Abakobwa babiri baracyari bato bose bakenyeye ibitenge, baje kuvoma ku kagezi aho bazanye indobo, bari kuyikorerana kugira ngo umwe atware, undi nananirwa mugenzi we amwakire.

Abagore bo mu cyaro harimo babiri bakora mu nzego z'ubuvuzi bambaye n'amajire y'akazi, bari kwifotoza imbere y'inzu y'umuturage mu cyaro, inzu yubakisha amatafari ahiye ndetse n'amategura.

Kwa muganga umurwayi aryamye ku gitanda cy'abarwayi, akaba yakiriwe n'abaganga babiri umwe w'umugabo ufite ikayi ndetse n'undi w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari nawe ari kumupima.

Umukobwa yagiye kwipimisha ndetse no kwiteza urukingo rwa kovidi cumi n'icyenda, nyuma yo kubona ko iruhijeho gukaza umurego, ikaba yakiriwe n'umuganga wambaye udupfukantoki.

Abagabo, abagore ndetse n'abana baricaye mu rugo aho bari kumva impanuro z'umugabo ukora muri serivisi z'ubuzima kwa muganga, aho ari kubabwira uburyo bwo kwiyitaho ndetse no kwita kuri bagenzi babo b'abaturanyi.

Umugore uteruye umwana. Yicaye ku ntebe ya palasitike, imbere ye hari umugabo wamabaye ipantaro y'umweru ndetse na bote, ishati y'amako magufi. Akaba ari kumuganiriza ku buryo bwo kwita ku mirire, aho yamusanze mu rugo rwe ,inzu ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Umwana muto yambaye agapira k'umutuku akaba ari gutega igikombe. Ari gutega amazi ava ku mugezi, kugira ngo ayanywe cyangwa se ajye kuyakoresha ibindi bikorwa bitandukanye i wabo mu nzu.

Ni igipapuro kiri mu ibara ry'umweru kikaba gifite andi mabara atandukanye arimo umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, kikaba kiriho amashusho y'abantu bane mu ibara ry'umutuku ndetse n'andi magambo agisobanura byinshi bijyanye n'ubuvuzi.

Umusaza wambaye ingofero ndetse n'ikote mu kuboko kumwe yagiye kwa muganga aho yakiriwe na muganga w'umugore akaba ari kumupima ukuboko ndetse hirya hakaba hari abandi baganga benshi aho buri muganga ari kwita ku murwayi umwe umwe.

Ikimodoka kinini cyane cyarukururana, kiri gutambuka mu muhanda, aho gihetse ibintu byinshi byose byiganjemo ibikoresho byo kwa muganga.

Umugabo, inzobere mu bijyanye n'ubuzima, akaba ari kwigisha imbaga uburyo bwiza bwo gukoresha amafaranga yabo ndetse baniteganyiriza mu bijyanye n'ubuzima kugira ngo barusheho kubaho bafite icyizere cy'ejo hazaza.

Abakobwa batatu ndetse n'umuhungu umwe bahagaze imbere y'imbaga, aho baje gufungura ku mugaragaro ikigo kizajya gikorera mu Rwanda cyo kubungabunga uburenganzira bw'umwana.

Abaganga baturutse impande n'impande baje kuganiriza abajyanama b'ubuzima mu mudugudu kugira ngo bamenye uburyo bwo kwita ku barwayi, abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu ndetse buri wese afite ikayi.

Umuganga wambaye ijire usa naho akorarera umuryango mpuzamahanga wita ko bu ubuzima, ari kumwe n'undi mugore aho ari gutondeke imiti ku meza, kugira ngo abashe kuyifashisha abaturage barabagana.

Abantu bakora muri serivise z'ubuvuzi bahuriye hamwe ku meza y'ibiganiro buri wese afite ikayi n'ikaramu akaba afite n'agacupa karimo amazi ari kunywa, bari kuganira ku buryo bwiza bwo kwita ku barwayi.

Abantu barindwi barimo abagore bane bose bambaye udupfukamuwa bakaba bicaye mu ibaraza imbere y'inzu y'ivuriro, aho bazanye umwana kwa muganga kugira ngo bamwiteho, bakaba bakiriwe n'umuganga w'umugore ari nawe uri kumuvura.

Abantu bakora mu nzego z'ubuzima bose bicaye mu cyumba bakaba bari kureba kuri mudasobwa amashusho abereka uburyo bagomba kwita ku barwayi bose ariko by'umwihariko abana kuko aribo byiringiro by'ejo hazaza.

Umwana muto w'umukobwa. Yambaye ingutiya ndetse n'ishati byose bidoze mu gitenge, akaba ari gukaraba ku mugezi yifashishije amazi meza n'isabune, aho amazi ari gukarabamo ari kugwa mu ibase.

Abantu batandukanye bakora mu nzego z'ubuvuzi, bari kwifotoza bambaye amakarita y'akazi ndetse n'amataburiya bakora n'akazi, nyuma yuko bavuye mu nama bakaba bungutse ubumenyi butandukanye buzabafasha gukora akazi kabo neza.

Agatanda gakozwe mu biti kakaba gashinze mu mbuga kanitseho amasahani y'umweru ndetse n'isahani y'ubururu, kariho n'igikombe gitukura, iruhande hakaba hateye insina.

Ni abantu batanu barimo abakobwa batatu ndetse n'abagabo babiri, bakaba bambaye imipira y'ubururu. Urabona ko bishimye cyane bari kwifotoza, imbere yabo hakaba hari icyapa gisobanura umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana.

Abantu biganjemo abagore ariko hakaba harimo n'abagabo bake. Bahuriye hamwe bafite ibipapuro bigaragara ko bari kwigaragambya basaba leta yabo kugirango ikomeze kubitaho n'ubuzima bwabo muri rusange.

Abantu benshi cyane baturutse impande n'impande, bahuriye hamwe aho bicaye mu nzu baganira ku buryo bwiza bwo gutanga serivisi z'ubuvuzi, baziha abarwayi babagana muri ibi bitaro byabo.

Umuganga wambaye itaburiya, akaba ari umuganga w'umugore uri gusuzuma abagore benshi. Abagore baricaye ku ntebe, aho bose bategereje kugerwaho kugira ngo abasuzume.

Abantu bakora muri serivisi z'ubuvuzi bateraniye hamwe aho bari kuganirizwa n'inararibonye mu bijyanye n'ubuzima bw'abagore batwite ndetse n'abana bakiri batoya.

Abantu baturutse impande nyinshi buri wese akaba yitwaje ikijerekani, abandi amabase, abandi bakaba bitwaje amasafuriya, baje guhurira hano ku mugezi ari naho bavoma amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu benshi biganjemo abambaye imipira y'umweru, bahuye hamwe mu nzu baricaye bateze amatwi, aho haje inararibonye mu by'ubuzima, akaba ari kubasobanurira uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye zandurira mu maraso.

Abantu benshi bicaye mu Nu imwe iteye irangi ry'umweru, bicaye bazengurutse impande zose, hagati hahagazemo umugabo ukora mu nzego z'ubuvuzi, aho ari kubasobanurira serivise akoramo n'uburyo azajya abitaho igihe bazabaje kumushaka aho kwa muganga.

Abana bato bane. Harimo babiri bambaye, imipira y'umutuku, undi yambaye umweru, undi akaba yambaye urimo imirongo. Bose barishimye cyane, aho bari gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, hakaba hariho papa we uri kubasukira amazi ku biganza, amazi akagwa mu ibase hasi.

Ni abantu icumi bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari y'impunyu. Aba bantu barimo abagabo bane ndetse n'abagore batatu, bakaba bakora mu bijyanye n'ubuvuzi, aho ari inzobere mu buvuzi b'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore n'umugabo bumvikana cyane bavuye mu rugo buri wese yitwaje ijerekani, aho baje kuvoma ku mugezi leta yabubakiye mu buryo bwo kubegereza ibikorwa remezo, kugira ngo bajye gukarabya abana babo.

Abana batatu bo mu cyaro bakaba bambaye imyenda yanduye, buri wese yitwaje indobo ye, umwe yatwaye iy'umweru, undi iy'icyatsi, mu gihe indi itagaragara neza, bakaba baje kuvoma amazi yo gukaraba mu mugezi utemba.

Umukobwa mutoya yambaye ingutiya ndetse n'ishati bikoze muri londoni, ari gukaraba amazi ku mugezi aho amazi ari gukaraba arikugwa mu ibasi y'umukara, iruhande rwe hari igipangu cyubakishije amatafari y'inkarakara.

Abantu babiri, ni umukobwa mukuru aho ari kuvomera amazi mu ndobo, ari gutega ku kivovo. Iruhande rwe hicaye umwana muto wambaye bodaboda, ndetse n'imyenda idafuze.

Umwana muto wambaye ishati y'igitenge. Yazanywe na mama we kwa muganga aho bahuye n'umuganga w'umugore uri kumupima ku nda kugirango arebe nimba adafite ikibazo k'imirire mibi.

Umwana muto cyane uri munsi y'imyaka ibiri, yicaye akaba yateze umunwa muganga ariko muha igitonyanga, cya vitaminini aho mama we, amuteruye yishimye cyane.

Umuganga wambaye ikarita y'akazi mu ijosi ndetse n'itaburiya y'umweru akaba ari gukingira umwana muto amutera urushinge ku kaboko imbere hakaba hari n'abandi bana babashungereye bisa n'aho na bo bategereje kugira ngo babakingire.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubuvuzi. Bateraniye hamwe aho bahuriye muri salle y'inama. Buri muntu afite agacupa k'amazi ari kunywa ndetse imbere ye hakaba hari agapapuro kandiditseho izina rye n'ikigo akoramo.

Umwana mutoya w'umukobwa, yambaye ikanzu y'umweru, akaba yaje kuvoma ku mugezi yitwaje indobo eshatu z'umweru, ariko bisa naho mukuru we araza kumutwaza kuko zose ntiyazikorera.

Abantu baturutse impande n'impande, bicaye mu gisharagati bisa naho ari abayobozi, muri bo harimo n'umwe w'umupolisi, imbere yabo hahagaze umugabo, ukora mu nzego z'ubuvuzi aho ari kubasobanurira serivisi batanga ku bitaro akoraho.

Amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'icyatsi, ry'umukara, ndetse n'umutuku, yose ari mu ndimi z'amahanga, ariko akaba asobanura imiryango itandukanye mpuzamahanga, ifite aho ihuriye n'inzego z'ubuzima.

Abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi biganjemo abagabo, bambaye amataburiya y'umweru, ndetse harimo n'umugore umwe utambaye itaburiya bari kwifotoza bishimye cyane nyuma y'uko babonye akaruhuko ka sasita ubwo bari bari gukora mu kazi birirwamo ka buri munsi.

Umukobwa wishimye cyane, ari mu rugo iwabo mu mbuga aho yubatse kandagira ukarabe yifashishije akadomoro gato. Ari gukaraba intoki yifashishije amazi meza n'isabune kugira ngo ajye kurya.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, akaba yiteze igitambaro cy'umuhondo, akaba yambaye n'ingutiya y'umweru. Ari gupomba amazi, aho iruhande hari umwana wambaye ikoti ry'umutuku, ari gutega amajerekani ku mugezi, hirya hakaba hari n'abantu benshi babarebera.

Abagore benshi cyane bahuriye mu nzu aho bari bari kuganira ku buryo bwiza bwo kwihangira imirimo, bamwe muri bo bakora iby'ubugeni nko gushushanya aho usanga bashushanyije abantu cyangwa se inzu n'ibindi.

Umuturage wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu, ari gukaraba amazi ari guturuka mu gihombo cyashaje, arikwirengagiza amabwiriza duhabwa na leta avuga ko tudakwiye gutoba amazi asa nabi.

Abagore babiri n'umugabo umwe, baterura umufuka bawegereza hirya, biragaragara neza ko barimo gufata imifuka imwe bayishyira hirya, n'indi bayiterura abayigiza hirya, gutyo gutyo.

Abagabo bane b'abirabura ndetse n'umugabo umwe w'umuzungu. Bahuriye hamwe baka bishimana aho bari mu nama mpuzamahanga y'umushyikirano yabaye mu 2017 yigaga ku iterambere ry'isi muri rusange.

Umukobwa wambaye ipantaro. Akaba ari gupomba amazi ku mugezi mu gihe abana bato bane bazanye amajerekani mato cyane bari kuvoma amazi. Hirya yabo hari imodoka ubona iza ibasanga.

Abantu benshi cyane bateraniye imbere y'inzu, iyi nzu ikaba iteye irangi ry'umweru, yubakishije amabuye y'amakoro, ikaba isakaje amabati atukura, ifite imbuga nini cyane, aho bashinze ikidara, hakaba hari n'idarapo ry'u Rwanda.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu nzego zo hejuru z'ubuvuzi, bahuriye hamwe mu nzu nini cyane bakaba bicaye ku meza y'ibiganiro, bari kwiga ku buryo bwiza bwo kwita ku barwayi ndetse no kubavura neza bagakira.

Abana babiri bagiye kuvoma, umuhungu yambaye ikabutura n'ishati y'umweru, akaba ari gupomba amazi ku mugezi, mu gihe umukobwa yagiye gutereka amajerekani ku mugezi kugira ngo avome.

Ikigega kinini cyane cyuzuye amazi aho ku ruhande hari igihombo kijyanamo amazi, hirya hakaba hari amatara ane amurika mu gihe cy'ijoro.

Igisahani kinini cy'icyuma, kikaba kirimo ibikoresho byifashishwa na muganga mu wita ku barwayi. Twavuga nk'ipombo zikoreshwa mu gutera umuti, ndetse n'agacupa gato kabamo umuti.

Abaganga babiri baje mu mudugudu aho baje basanga abaturage bahatuye kugira ngo babavure ndetse babasuzume indwara zitandukanye ariko by'umwihariko indwara z'amenyo.

Umugabo mwiza cyane wambaye imyenda isa nkiy'umwana we. Akana ke yagateretse ku munzana, arimo arakarebera ibiro gafite. Umubyeyi w'umupapa ashimishijwe cyane n'uko umwana we ahagaze.

Ni abana babiri b'abirabura bishimye cyane bakaba bicaye mu ishuri, bose bambaye impuzankano aho umwana umwe wambaye umupira yatereye urutoki hejuru akaba arikubwira mwarimu ko ikibazo ababajije akizi neza.

Abana batoya bakiga mu mumashuri abanza, barahagaze bose bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo y'impine mu rurimi rw'icyongereza, akaba yanditse mu ibara ry'umweru, ni amagambo asobanurira umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana.

Umugabo w'umuganga. Yambaye agapfukamunwa ndetse akaba yambaye n'ibirebesho. Ari gusuzuma umusaza w'umuyisilamu wambaye ishati ikozwe mu gitenge. Hirya yabo hakaba hari umwana uri kubareba.

Umuganga wambaye umupira w'umuhondo, akaba ari kuvura umwana muto nawe wambaye umupira w'umuhondo. Uyu mwana yazanye na mama we akaba ari we umuteruye ndetse iruhande hakaba hari n'abandi babyeyi benshi cyane nabo bafite abana.

Abana b'abirabura bambaye impuzankano ifite ibara ry'umuhondo, bakaba basuwe n'abashyitsi batandukanye bakora mu nzego z'ubuzima, aho abana babishimiye cyane bakaba bifuza ko bazagaruka kubasura.

Abagore babiri baje kuvoma, buri wese yitwaje indobo ye, umwe yatwaye indobo y'ubururu undi azana iy'umutuku, umwe amaze kuvoma mugenzi we ari kumuteruza ngo amushyirire ku mutwe, mu gihe abandi batatu bari kubarebera.

Abagore babiri ndetse n'abagabo babiri. Bicaye imbere y'imbaga, buri wese afite agacupa k'amazi ndetse abagabo muri bo bafite mudasobwa. Bakaba bari mu kiganiro mpaka, kiga ku buryo bakwiye kunoza serivisi batanga z'ubuvuzi.

Kwa muganga haje umubyeyi ufite umwana ukiri muto, umubyeyi yambaye umupira w'amaboko maremare afite n'ingofero akaba ateruye umwana, bakiriwe na muganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru aho ari kuvura uyu mwana.

Ibimenyetso bibiri biri mu ibara ry'umutuku. Bikaba ari imirongo ariko ifite umutwe, bigaragaza mikorobe zifata kenshi na kenshi zandurira mu ndwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi biganjemo abakora mu nzego z'ubuvuzi, bitabiriye inama aho hari abatumirwa batatu, abagabo babiri n'umugore umwe, baje kubasobanurira uburyo bwo kunoza serivisi zabo z'ubuvuzi batanga.

Abantu benshi cyane baturutse impande zitandukanye z'Isi yose, bakaba bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama bakaganira ku buryo butandukanye bwo kuvura abarwayi, nyuma y'uko inama irangiye twifotoza ifoto y'urwibutso.

Umwana muto utarageza ku myaka itanu, yambaye umupira yazinze amaboko, aho ari gukaraba ku mugezi wubatswe ku nkunga y'umuryango Worudovijoni.

Ni abantu batandatu, bahagaze imbere y'inzu ku ibaraza, aho bari kwifotoza. Bose bakora mu nzego z'ubuvuzi ndetse bakaba babonye n'umushyitsi mukuru w'inararibonye wari waje kubaganiriza.

Umugore ubyibushye yambaye akaribaya k'umweru ndetse n'agapfukamunwa, yaje kwa muganga aho bari kumutera urushinge mu kuboko, mu buryo bwo ku mukingira icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Abana biga mu mumashuri abanza. Bambaye impuzankano bakaba bicaye mu ishuri, abakobwa bambaye impuzankano y'ubururu, mugihe abahungu bambaye kaki, abana bose bakaba bari kurya buri wese afite isahani ye.

Abantu benshi cyane bakaba ari inzobere mu by'ubuzima, basuye u Rwanda aho baje kureba uburyo serivisi zitangwa mu bitaro, bakaba bakiriwe n'abaforomo ndetse n'abaforomokazi, aho hariho n'abantu babiri bari gufata amafoto.

Umugore witeze igitambaro ndetse akaba yifubitse n'igitenge, yaje kwisuzumisha indwara zandurira mu maraso, aho yakiriwe na muganga w'umusore, hirya hakaba hahagaze undi musore wambaye ijire y'abakorerabushake.

Ibyuma bibiri bifite ibara ry'ubururu hasi bikaba bisa n'umukara, ni ibyuma byifashishwa mu bigo byose bitandukanye by'umwihariko ibitangirwamo serivise z'ubuvuzi, mu kuzimya umuriro iyo hafashwe n'inkongi.

Abana bakiri bato biga mu mashuri y'incuke, bagiye kwiga aho bamwe bambaye impuzankano abandi nta yo bambaye. bakaba batonza umurongo ku mugezi buri wese agira ngo akarabe intoki ze.

Umubyeyi witandiye neza cyane usa naho ari umuyisilamukazi yazanye umwana we muto kwa muganga, aho bari kumukingira kanseri ndetse hirya hakaba hari n'abandi bayisilamukazi bamuherekeje.

Abantu biganjemo urubyiruko, bahagaze imbere y'inzu, bari kwifotoza iyo nzu yanditseho amagambo y'Ikinyarwanda avuga ngo gira ubuzima, ikaba hashushanyijeho umuryango w'umugore n'umugabo ndetse n'abana babo babiri.

Igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu. Kiriho ifoto y'umugabo wambaye amarinete, kikaba cyanditseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza, aho hari ayanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'ayo mu ibara ry'ubururu, yose asobanura ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi.

Abaturage bahuriye mu nzu buri wese yitwaje ikayi, aho baje kumva impanuro z'abakomeye mu bijyanye n'ubuzima, bari kubagira inama y'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye kwa muganga aho bicaye bifashe mapfubyi, harimo abakobwa, abagore n'abana; bose baje gushaka serivisi kwa muganga, aho bamwe bicaye hasi bakandagiye mu mucaca.

Inzu irimo irange ry'umweru, hakaba imirongo y'ubururu ndetse n'umutuku, harimo ibikoresho bitandukanye, intebe abarwaye amenyo baryamaho ndetse n'ibindi bikoresho muganga yifashisha abitaho.

Umugore witeze igitambaro, akaba yambaye iribaya ry'umuhondo ubona ko yazinze umunya usa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kuko urabona yarakaye cyane.

Abakobwa babiri, umwe yambaye ipantaro n'agapira k'icyatsi undi yambaye isurubeti, bose bambaye udupfukamunwa, aho bafatanye imyenda, ubona ko ishimanye cyane, mbega bisanzuranyeho.

Abagore bahagaze, bakaba baje mu kirori bisa n'aho bose bakora kwa muganga serivisi z'amenyo. Barishimye cyane nyuma y'uko bari bamaze kuganira ku buryo bwiza bwo kunoza serivisi batanga.

Ishusho y'uruziga iri mu byiciro bitanu, ikaba ifite ishusho y'umutaka. Iri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku, hasi hakaba handitseho amagambo y'impine ari mu rurimi rw'icyongereza, asobanura ibikorwa bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bikorerwa mu Rwanda.

Abantu batandukanye biganjemo inzobere mu buvuzi bw'amenyo, bateraniye hamwe bakaba bicaye mu nzu nziza, iteye amarangi y'umweru ndetse n'ay'umuhondo, aba bantu baricaye ku meza, buri wese afite agacupa karimo amazi, aho umwe muri bo w'umugore afite mikoro ari kubabaganiriza.

Igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza adasomeka neza, akaba yanditswe mu ibara ry'umukara, iruhande rwaho hari ikimenyetso cy'umwana muto, umuryango, umugore n'umugabo n'abana babiri, umugabo uri gukarabya umwana, umugore utwite ndetse n'undi uri gukorora usa naho afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore ufite abana babiri akaba yambaye agapfukamunwa. Ahetse umwana umwe ukiri muto mu gihe undi mukuru ahagaze. Bicaye mu nzu y'iwabo ihomye n'urwondo, akaba ari guteka igikoma kugira ngo banywe.

Igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hariho ikirangantego cy'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda mu mpine, ndetse n'impine y'umuryango mpuzamahanga wita ku uburenganzira bw'umwana, akaba ari umunsi mukuru wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe uba ku itariki ya cumi z'ukwa cumi.

Abantu bakora mu nzego zitandukanye, biganjemo abayobozi mu nzego zo hejuru, bahuriye ku Mudugudu, aho baje gutera ibiti nk'ikimenyetso cyiza cyo kwereka abaturage ko nabo barajwe ishinga no guteza imbere ndetse no kubungabunga ibidukikije.

Abantu babiri ni umugabo n'umugore bakaba ari inzobere mu buvuzi bw'amenyo. Bicaye imbere y'imbaga buri wese afite agacupa k'amazi. Bakaba bari gusobanura uburyo butandukanye bwo kwita ku menyo.

Abagore batatu bafite inkoni umwe ateruye umwana mu kuboko kumwe akaba ari ko mwonsa afite n'umufuka bakaba bari mu murima wabo aho bahinze igihingwa cy'urutoke mbese bategereje umusaruro.

Abantu baturutse mu nzego zitandukanye biganjemo abakora mu nzego z'ubuvuzi bwo mu mutwe, bahuye mu nzu mberabyombi, bakaba bari kwifotoza nyuma yuko bavuye mu nama yiga ku buryo bakwiye gufasha abarwayi babagana.

Umugabo w'inzobere mu by'ubuzima ari gusobanurira abagore babiri bakomeye mu gihugu uburyo agomba kuyitwara mu gihe cyose batwite cyangwa se mu gihe cyose babona undi utwite cyane cyane mu kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubuvuzi, biganjemo inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, bahuriye mu nzu mberabyombi aho bari kuganira ku buryo bagomba kugabanya izi ndwara ziri kugenda ziyongera umunsi ku munsi.

Umugabo w'umwirabura afite ubwanwa akaba ahagaze yambaye ishati y'amaboko maremare, inyuma ye hari abantu benshi cyane bigaragara ko baje mu nama yiga ku buzima bwo mu mutwe.

Umugore wicaye ku ntebe, yegamye ku nzu arifumbase, yambaye ingutiya ndetse akaba yiteze n'igitambaro, aho yaje kwa muganga, bisa naho afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza.

Abantu babiri baje kwa muganga, umwe muri bo yambaye agapira k'umweru, akaba yifashe ku mutwe yunamye, bisa n'aho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe; iruhande rwe hakaba hari n'undi mukobwa bazanye, uri kumuhumuriza.

Umugore ufite amenyo meza wambaye ishati y'umweru, akaba ateruye umwana nawe uri guseka ariko akaba ari umwana utaramera amenyo, bahagaze kwa muganga aho bari iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umugabo muremure, yambaye ishati ikozwe mu gitenge ndetse n'ipantaro y'itise, ari gusuhuza undi mugabo wambaye ibishwambagara, akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu biganjemo abagabo kuko harimo abagore bake bakaba bakora muri serivisi z'amenyo kwa muganga, bari kwifotoza imbere y'inzu aho iruhande rwabo hariho igipapuro gishushanyijeho abagabo bicaye baganira.

Benshi cyane biganjemo inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, bahuriye mu nzu mberabyombi, aho bafite umushyitsi mukuru w'imena, uri kubasobanurira uburyo bwo kwita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umugabo wakenyeye igitenge, yambaye agapira gasa n'ubururu, karimo imirongo y'umweru, yicaye mu nzu hasi, ku bitenge, bamukingiranye mu nzu, asa naho afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, afite ubwanwa buke ndetse n'umusatsi utari mwinshi, ari guseka yerekana amenyo bisa naho yishimye cyane cyangwa se akafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umukecuru wambaye agakomo mu ijosi. Yiteze igitambaro ndetse yambaye n'amaherena, aho asa n'utambaye ku gice cye cyo hejuru, ariko akaba agaragara nk'ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Imodoka nini cyane iri mu ibara ry'umweru, ikaba yanditseho amagambo ari mu ururimi rw'Icyongereza yanditse mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari akavuriro gato kari mu Bugesera baje kumurika.

Abantu bari mu magurupe bari gukora ibikorwa bahawe n'abayobozi bari gushakira ibisubizo by'ibibazo bahawe kugira ngo basubize neza, bambaye ubupfukamunwa bisa nk'aho ari muri coronavirus ariko bambaye ubupfukanwa neza hahagaze abayobozi babayoboye.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye isengeri y'umukara, ndetse n'umukufi mu ijosi. Akaba yicaye mu gatebe ari guseka cyane, ubona ko yishimye yanezerewe.

Umugabo wambaye imyenda icitse afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yambaye ibintu atamenya ibyo aribyo aho yicaye hasi umucucu aha mu mbuga y'iwabo.

Umugabo wambaye ikote, akaba ari inararibonye ndetse n'inzobere bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ari kuganiriza abaganga bagenzi be, bakora serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe abahugura muri byinshi batari bazi.

Imbaga nyamwinshi yateraniye hamwe mu nzu nziza iteye amarange y'umuhondo, imbere hari abatumirwa babiri umukobwa ndetse n'umugore, bose bakaba ari inzobere mu buzima bwo mu mutwe.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bicaye mu ishuri ubona bishimye cyane, buri wese yazamuye hejuru ubwoko bw'umuti w'amenyo akoresha yoza amenyo ye.

Umuganga w'umukobwa yambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'agapfukamunwa, yambaye uturindantoki tw'umweru, akaba ari gukura amenyo umurwayi w'umukobwa uryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Umuntu wasamye arwaye amenyo, aho yaje kwa muganga bakaba bamaze kumukura iryinyo rimwe ry'imbere ndetse aho barikuye hakaba hakirimo umwobo.

Umukobwa wambaye agashashi mu mutwe afite amenyo meza arasa na nyampinga, akaba afite n'agakoresho kabugenewe k'akadodo gakoreshwa mu gukura imyanda mu menyo hatifashishijwe uburoso.

Umugore w'umwirabura yambaye isengeri y'umweru akaba ari hamwe n'umwana we wambaye isengeri y'umweru, buri wese afite uburoso bw'amenyo, akaba ari kwigisha umwana we uburyo boza amenyo.

Abantu benshi cyane bambaye imipira y'icyatsi mu gihe hari n'abambaye iy'umweru, bakaba bicaye imbere yabo hari ameza arambitseho imiti y'amenyo bakoresha boza amenyo.

Umugore w'umuganga, ukora mu nzego z'ubuvuzi yicaranye na mugenzi we bakora hamwe, akaba ari kwandika ku ikayi, bisa n'aho ari gutanga raporo y'umunsi ijyanye n'ibyo bakoze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, usa naho yiga muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba ari mu ishuri aho yahaye umwana muto wambaye impuzankano, insimburangingo y'amenyo, nyuma yaho hahagaze abashyitsi bakuru b'imena, barimo umugore w'umuzungu.

Umugabo ufite amenyo meza akaba afite akadodo kabugenewe, muri iyi minsi gakunze gukoreshwa n'abasirimu mu gusukura amenyo aho gukoresha umuti w'amenyo wabugenewe.

Umwana w'umuhungu arwaye amenyo akaba aryamye ku gitanda cy'abarwayi kwa muganga, imbere ye hari umuganga wambaye agapfukamunwa akaba yambaye n'udupfukantoki aho ari kwitegura kugira ngo amuvure.

Umugabo wambaye amarinete afite umusatsi mwinshi, yambaye itaburiya y'umweru akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ari mu nzu akoreramo aho ari kumanika agapapuro ku gikuta kagaragaza uburwayi amaze gupima mu murwayi.

Umugabo ufite umusatsi muke yambaye ubusa hejuru akaba ari ku ireba mu ndorerwamo arimo asukura amenyo ye yifashishije akadodo kabugenewe umwanya wo gukoresha uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Umuganga ukora muri serivisi z'amenyo, akaba yambaye uturindantoke tw'umutuku, yambaye ikariya y'umweru, akaba yicaye afite insimburangingo y'amenyo aho ari kugenda ayisukura.

Abana bato biga mu mashuri abanza. Bari mu ishuri, bakaba bambaye impuzankano aho bari kumwe na mwarimu wabo wishimye cyane. Buri wese yazamuye umuti w'amenyo akoresha, mu buryo bwo kwereka abantu bose ko boza amenyo yabo.

Umwana muto w'umukobwa yagiye kwa muganga, aho yagiye kugira ngo bamwiteho, bamuvura amenyo ye. Afite inyinya nini, aho agiye kwa muganga, muganga akaba ari kumuvura kugira ngo arebe ko yamukuriramo inyinya.

Icyuma gikoreshwa mu koza amenyo kikaba kigizwe n'utumakasi ndetse n'udushinge tune ndetse ahandi akaba ari icyuma kinini cyongera urumuri mu kanwa kugira ngo umuganga abashe kureba neza.

Umugabo mwiza cyane uri kugaragaza inseko ye yambaye, marinete yambaye umupira w'umweru, anejejwe cyane no kwerekana inseko ye nziza.

Umugabo ufite amenyo meza, bisa naho atayishimiye akaba avuye kugura andi menyo y'insimburangingo kugira ngo asimbure ayo yari asanganwe, umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare wa runiga.

Umukobwa wicaye ku ntebe kwa muganga yambaye igisashe kimukingira imyenda akaba ari kwireba mu ndorerwamo nyuma y yaje kwa muganga kugira ngo bamwogeze amenyo.

Ni umuganga wambaye agapfukamunwa, uturinda ntoki, ishati y'ubururu ndetse n'ishashi mu mutwe, akaba ari kuvura umugabo ufite ikibazo cy'amenyo, akaba yaje gushaka serivisi hano kwa muganga amenyo ari kumurya.

Uyu mugabo akantu kamufashe mu menyo, ashaka akatsi agashyira mu menyo, ashaka kwihaganyura ngo ako kantu kamuve mu menyo kugira ngo arusheho kugubwa neza.

Ni umugabo ufite ubwanwa buke, afite amenyo meza, aho ayasukura, yifashishije akadodo kabugenewe, umwanya wo gukoresha umuti w'amenyo, cyane ko ako kadodo ariko kagezweho muri iyi minsi.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa buke adafite umusatsi mwinshi yambaye agapira gasa n'ubururu, akaba ari guseka cyane mbega n'intangarugero mu bantu bafite amenyo meza ari nako akangurira abandi kwita ku menyo yabo.

Mu nzu kwa muganga hari intebe abarwayi bicaraho iyo bari kubavura amenyo, hakaba n'akandi gatebe gato muganga yicaraho. Hari ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, byinshi muri byo bikaba bikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, akaba ari guseka afite amenyo meza cyane asa n'umweru, aho atanga urugero ku bantu bose batita ku menyo yabo ndetse ababwira ko bishoboka na bo bayitaho bakagira amenyo asa neza.

Abantu babiri bisa n'aho ari umwana na se bambaye imyenda udupira tw'umweru tw'amaboko magufi, aho bose bari gukoresha akadodo kabugenewe mu gusukura amenyo, umwanya wo gukoresha umuti w'amenyo.

Umugabo wambaye ishati y'amako maremare, akaba yicaye imbere y'akameza, aho ari gusoma igitabo yifashe mu gahanga, bisa naho atari gusobanukirwa neza ibyo ari gusoma.

Abagabo babiri, umwe ni umusaza cyane undi ni umugabo muto bisa n'aho ari umwana na se bari gutembera mu muhanda w'amampave, aho bari kugenda baganira ku buryo bashobora kwitwara bakiteza imbere.

Umwana na nyina baricaye mu nzu barishimye cyane, aho bari gukina umukino mbese batanga urugero rwiza ko abantu, yaba abato n'abakuru bakwiye gukina bakishimana.

Ni kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abageze mu zabukuru gukora imyitozo ngororamubiri, akaba hari umugabo ushaje aho ari kumwe n'umuganga w'umugore uri kumuyobora uburyo bwo kugenda ku byuma.

Umusaza wambaye amataratara yicaye mu kagare k'abafite ubumuga aho umukecuru we ari kumucunga muri ako kagare ubona ko bishimanye cyane aho bari mu mbuga y'urugo rwabo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, yambaye ikanzu, yambaye n'ikoti ry'amaboko maremare, akaba yicaye mu nzu iwe, aho ari kumwe n'umuganga usanzwe umwitaho, uyu muganga ni umukobwa afite umusatsi w'umukara, yambaye itaburiya y'umweru, inyuma akaba yarengejeho n'indi shati y'umukara, aho ari kumwitaho amwereka uburyo ya kora siporo.

Umugore wambaye umupira w'umweru. Yicaranye n'umugabo we w'umusaza wambaye umupira w'ubururu. Akaba ari kumwereka urupapuro rwanditseho amabwiriza y'ububuryo akwiye gukoresha imiti ye.

Umusaza wambaye ishati ateruye umwana muto wumuhungu aho umwana afite igipupe umusaza n uwo mwana barishimanye cyane asa naho ari umwuzukuru na sekuru.

Umusaza ufite ubwanwa bwinshi bw'imvi, yambaye umupira w'amaboko magufi aho ari kwitabwaho na muganga w'umukobwa, amuha imiti ndetse akaba yamushakiye n'amazi mu kirahuri yo kunyweshe imiti.

Abantu benshi baje mu kirori, bicaye mu gisharagati aho baje mu bukwe bw'abana basezeranye imbere y'imana, imbere hahagaze umukobwa ufite agasahani asa naho ari kugenda ahereza abari aho ngaho ibiryo.

Abagore bageze mu za bukuru bambaye inguke z'umukara

Ni mu isoko ricururizwamo imboga ndetse n'imbuto, hakaba hari abagore batandatu bicaye bose bambaye neza ubona bishimye cyane bose ni abacuruzi, aho bari gucuruza inyanya, amaronji ndetse n'ibindi byinshi.

Abasaza babiri bari gutambuka mu nzira, barishimye cyane bisa naho bavuye gukora imyitozo ngororamubiri kuko umwe muri bo afite agacupa ka mazi ari kugenda anywaho gahoro gahoro mu nzira.

Umugabo ugeze mu zabukuru yambaye amataratara ari kumwe n'umuhungu we bakaba bari gusoma igitabo bishimye cyane, imbere yabo bafite ibikombe bibiri birimo igikoma bari kunywa.

Umurwayi wari urwariye kwa muganga yambaye ibirenge aracyambaye imyenda yabarwayi, ariko yahagurutse yavuye ku gitanda, aho arikureba niba yarakize mbega abasha gutambuka.

Umukecuru wambaye amarinete, akaba ari kumwe n'umukobwa we wambaye umupira w'amaboko maremare, ukaba usa n'umuhondo. Baricaye ku meza, akaba ari kumutonora ikinini kugira akinwe, abashe gukira indwara afite, dore ko imbere ye hari n'ikirahuri cy'amazi aribunyweshe icyo kinini.

Umugore wisobanukiwe, ageze mu zabukuru, ariko akaba yicaye hasi ku mukeka mu nzu ye, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaguru ndetse n'amaboko.

Umukecuru ufite umusatsi w'imvi, akaba yambaye ikote ry'amoboko maremare ririmo ibara ry'umutuku. Ari guterura ibyuma bibiri biri mu ibara ry'icyatsi mu buryo bwo kunanura ingingo ze.

Imbuto zitondetse mu byiciro hari iz'umweru, izitukura, iz'umukara, iz'amabara byose bikaba biribwa n'abato ndetse n'abakuru bose bakeneye kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bashakanye. Barishimanye cyane bakaba bari mu nzu, umukecuru ari gukoresha mudasobwa mu gihe umusaza afite agacupa karimo umuti aho ari gusoma amabwiriza y'uburyo ukoreshwa.

Abasaza babiri bose biteye imikenyero bambaye ingofero z'urugara, barishimye cyane, aho bitabiriye ibirori by'abana babo bashyingiwe imbere y'imana.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi. Arabyibushye cyane, akaba ari guterura ibyuma, kugira ngo arusheho gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Umukecuru wambaye ikanzu idafite amaboko, yicaye hasi aho ari kumwe na muganga w'umugore, wambaye impuzankano yabaganga, y'umutuku, yambaye uturindantoki, aho ari kumupima ukuboko, ngo arebe indwara yaba arwaye.

Abantu batatu bicaye, umugabo umwe yamanitse amaboko, umugore ari gupima imirambararo y'amaboko ye, areba ko ubuzima bwe buri gukora neza.

Umubyeyi w'umukecuru yambaye ishati y'umweru, akaba yambaye amaherena ndetse afite n'imvi, ahagaze mu nzu iwe, aho afite isahane iriho ibiryo byiganjemo imboga ari kurya.

Umusaza ufite imvi ari gusangira n'umugore we aho bari kurya ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto, iruhande rwabo hari ikirahuri cy'amazi bisa naho barayanywa bamaze kurya ibyo biryo.

Abakecuru babiri bisobanukiwe, bakaba bambaye umwe umupira undi isengeri. Bari gukora imyitozo ngororamubiri bishimye cyane, aho bari kurambura amaboko ndetse n'ingingo muri rusange.

Abagore bakuze, bicaye hasi bakaba baje gushaka serivisi zubuvuzi, abandi bakaba bagemuriye abarwayi babo barwariye kwa muganga kugira ngo barebe uko bamerewe n'uburwayi bwabo.

Umugabo ugeze mu zabukuru, yambaye ishati y'icyatsi, akaba yambaye n'ikoti ry'umweru ry'amako maremare n'amadarubindi, aricaye afite ikayi n'ikaramu akaba ari kwandika amateka y'ubuzima bwe.

Abantu bagera kuri batanu, harimo abagore batatu, n'abasaza babiri, bari guterura utwuma dutoya akenshi dukunze gusangwa mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri, na bo bakaba bari guterura kugira ngo barusheho kugira ubuzima.

Ni umukecuru n'umusaza bari mu za bukuru, bakaba bicaye iwabo mu rugo. Umusaza yambaye ishati y'amaboko maremare, mu gihe umukecuru yambaye ishati y'amaboko magufi y'umukara. Uyu musaza afite telefone, akaba ari kwereka umukecuru utuntu dusekeje.

Umugore witeze igitambaro, yicaye hasi akaba ari kuboha igitebo cya kinyarwanda, imbere ye hari abakerarugendo bishimye cyane bakaba bashimishijwe n'ibyo arimo gukora.

Umukecuru uri mu za bukuru ararwaye ari kwa muganga, aho muganga yamuhaye akagozi ko kurambura kugira ngo arebe niba amaboko ye ndetse n'ingingo ze muri rusange zigikora.

Ni abantu batatu bageze mu zabukuru biganjemo abagore, ubona ko bishimye cyane, bari mu rugo iwabo bakaba bari kuganirira ku meza bafite n'amakarita bari gukina, ubona ko bizihiwe cyane bisa naho bari bakumburanye.

Umugabo w'umusaza ari mu kigero k'imyaka mirongo irindwi n'itanu, yambaye amadarubindi ndetse n'ishati itukura, afite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu akaba ari gusoma ngo amenye amakuru y'uburyo yakwirwanaho muri ubu buzima.

Umukecuru wambaye amataratara akaba afite umusatsi w'imvi, yaje kwa muganga akaba amaze kuvurwa n'umuganga w'umugore uri kumusekera cyane, bisa naho bishimanye ndetse akaba yamuvuye neza.

Umukobwa wambaye ishati y'icyatsi iriho uturongo tw'umweru. Akora mu nzego z'ubuvuzi, akaba yarifotoranyije n'umukecuru w'umurwayi. Bisa n'aho babyumvikanye nyuma yuko yari amaze kumuvura agakira.

Umugabo w'umwirabura wambaye agapfukamunwa gatoya kuko arabyibushye cyane, yambaye ishati y'ubururu akaba yicaye mu gatebe ka prasitike, aho ari kuvurwa n'umuganga w'umugore umupfukamye imbere akaba yambaye ishati y'icyatsi.

Umusaza uri kumwe n'abuzukuru be, bose bafite umutsima bakaba bari kuwurya. Umusaza yambaye ipantaro y'itise ndetse n'ishati y'umweru, mu gihe abana batoya babiri b'abakobwa bicaye hasi, buri wese akaba afite umutsima ari kurya.

Abantu benshi cyane bari mu ngeri zitandukanye ariko biganjemo urubyiruko, bateraniye hamwe mu nama aho bafite umushyitsi mukuru uri kubasobanurira uburyo bashobora kwitwara mu gihe baba bahuye n'ibyago.

Umuntu ufite akaboko kariho ibibyimba, bisa n'aho yaforoswe ubwo yatemberaga mu murima nuko ikinyabwoya kikamubaba, yaje kwa muganga kugira ngo bamuhe imiti imugabanyirize uburibwe ndetse anabyimburuke.

Niabagabo babiri, bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima, cyane cyane bakaba bavura indwara z'ibyorezo. Bari gutanga imbwirwaruhame, aho inyuma yabo ku gikuta, handitseho kurwanya indwara ya Marburg.

Igipapuro cyanditseho amagambo yiganjeho ay'icyongereza, ari mu ibara ry'umweru. Hariho amagambo avuga ko kuva ku itariki cumi n'umunani, kugeza kuri makumyabiri n'enye, z'ukwa cumi na kumwe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, bazaba bari kwizihiza mwaka mpuzamahanga ku isi hose, wo kurwanya mikorobe.

Inyuguti ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, ni H na R, hasi hakaba hari amagambo y'icyongereza ari mu ibara ry'umweru bisobanura ko Abanyarwanda bafite ubuzima bwiza.

Ikimenyetso kiri mu byiciro bitanu. Kikaba kigaragaza ibyiciro by'indwara n'uburyo umuntu yagakwiye kuyivuza. Bigaragaza na none ibyiciro by'ubuvuzi uko bigenda bikurikirana, uturuka ku bito ujya ku binini.

Ni igipapuro kiri mu mabara abiri, umweru ndetse n'ubururu bwiganje, kikaba cyanditseho amagambo menshi cyane ari mu rurimi rw'Icyongereza, kikaba kiriho n'umutwe w'umuntu ugaragaza ubwonko.

Umugore ukora muri serivisi zo kwa muganga, aricaye yambaye ikarita y'akazi mu ijosi ndetse n'ikote, akaba yicaye mu ntebe nziza afite mikoro aho ari gusobanurira imbaga uburyo butandukanye bwo kurwanya imibonano mpuzabitsina mu bana bakiri bato.

Igipapuro kiriho amagambo ari mu ibara ry'umweru akaba ari mu rurimi rw'icyongereza aho asobanura kwigisha abantu barimo abanyeshuri ndetse n'abarimu uburyo bw'imyororokere ndetse no gukora imyitozo itandukanye ndetse n'imibonano mpuzabitsina.

Umugore w'umwirabura ufite ibisuko by'ibidodo yambaye iherena akaba yambaye n'igitenge kirimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu, imbere ye handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura kwita ku bidukikije mu ruhame.

Umugabo w'umuzungu yambaye amataratara ndetse n'ingofero akaba yambaye n'umupira w'amaboko maremare. Afite igipapuro cyanditseho amagambo mu cyongereza, aho amagambo yandikishijwe ikaramu y'umutuku, asobanura ngo urukingo rw'indwara ya manki pogisi.

Igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru asobanura uburyo bwo kuboneza urubyaro ndetse hasi hakaba handitseho icumi n'irindi jambo ry'icyongereza risobanura imyaka bivuga ko ari imyaka icumi.

Abantu bakora mu nzego zitandukanye z'ubuzima ni amadini yose cyane ko harimo n'abayisiramu, bari kwifotoza bafite amafoto imbere yabo agaragaza akazi bakora n'ibigo bakoramo.

Abagabo n'abagore bakora mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi bakaba batumiwe kugira ngo baze bigishe urubyiruko ndetse n'abandi bose uburyo bwo kubara ukwezi k'umugore.

Abagabo batatu ndetse n'abagore batatu bari kwifotoza aho ari inzobere mu by'ubuzima bakaba bakuriye minisiteri zitandukanye z'ubuzima mu bihugu byose by'Afurika y'uburengerazuba.

Umubyeyi madamu nyakubahwa perezida Paul Kagame afite speech arimo aravuga ku bijyanye na mental health awareness campaign.

Imbaga nyamwinshi, yateraniye mu nzu nini, imbere hari abagore beza cyane bari kubabyinira, aho ariko umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida, akaba ari ku nshuro runaka wizihijwe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu benshi cyane biganjemo abari mu zabukuru b'abagore, bahuriye kwa muganga aho bicaye mu ibaraza barebye inyuma. Benshi muri bo biteze ibitambaro, bakaba baje gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Igitabo kirimo amagambo atandukanye ndetse n'ibishushanyo biri mu mabara umutuku, icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'iroza. Aho yose agenda asobanura uburyo bwo kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko. Ni abakobwa bakaba bose bambaye amapantaro ndetse bose bambaye imipira y'umweru iriho ikimenyetso cyo guteranya, gisobanura umuryango wa Croix Rouge ufasha imbabare.

Abantu baturutse impande n'impande, bakaba biganjemo abakora kwa muganga; bafite umushyitsi w'imena imbere yabo, hari umugabo wambaye ikote ufite na mikoro ari kubasobanurira ibyo akora.

Umugore wambaye ishati y'icyatsi imufashe, yambaye amarinete ndetse akaba ahagaze imbere y'imbaga aho ari kubasobanurira uburyo butandukanye bwo kwita ku bantu b'abarwayi by'umwihariko abafite ibibazo byo mu mutwe.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'umweru, akaba afite imisatsi ya menshi yambaye n'akandi gashati k'umweru, akaba yaje kwiteza urushinge kwa muganga aho yakiriwe na muganga w'umugore uri kumukingira icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Umubyeyi witeze igitambaro, akaba ari guha umwana we amazi mu gikombe, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bambaye za karuvati. Basohotse mu kinyamakuru cy'umuryango w'abibumbye wita ku buzima.

Ikimenyetso kiri mu ruziga kikaba kigiye kirimo utundi tuziga duto duto kirimo akaziga gato k'umweru, ak'umweru wererutse, ubururu ndetse n'ubururu bwijimye, hakaba handitseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Igipapuro cyanditseho amagambo y'icyongereza mu mabara atandukanye. Hari ibara ry'umukara, umweru, umutuku ndetse n'umuhondo, bisobanura ngo amakuru mashya, hakaba hariho n'umwana muto uri gukingirwa ku kaboko na muganga w'umugore, akabari kumukingira indwara y'igituntu.

Ni kwa muganga ahari ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibivamo umwuka ndetse n'ibindi bikoresha amashanyarazi, aho byifashishwa na muganga by'umwihariko yongerera imbaraga abarwayi barembye.

Cyane ifite parafo y'amabara ikaba irimo inkingi ebyiri, hari intebe z'ubwoko butandukanye z'imifariso ndetse hakaba harimo n'ubusitani bw'indabo hagati mu nzu.

Umugore uteruye umwana. Umwana bamwambitse imyenda y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, aho bamuzanye kwa muganga. Umuganga uri kubitaho yambaye ishati y'umweru, agapfukamunwa ndetse n'agasashe mu mutwe aho ari kumuha igitonyanga.

Inyubako nini cyane ikaba irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, akaba ari ibikoresho umuntu ajyaho akanyonga nk'unyonga igare kugira ngo arebe intera yanyonga mu gihe yaba ari ku igare.

Abantu benshi baturutse impande n'impande, bakaba biganjemo abajyanama b'ubuzima, aho baje kwa muganga baje kuganirizwa n'inararibonye mu bijyanye n'ubuzima bw'abana kugira ngo abajyanama , uburyo bazajya batwara abana bakiri bato.

Inzu ntoya yubakishije amatafari y'impunyu ikaba iririmo urugi rurimo ibirahuri by'umweru hejuru handitseho amagambo asobanura ko bakora ibijyanye no kurengera uburenganzira bw'umwana by'umwihariko mu kurwanya kuba bahohoterwa bishingiye ku gitsina.

Ni inzu nini cyane kwa muganga haririmo inkingi ikaba iteye irangi ry'umweru irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri bizwi nk'ibyuma aho abantu babiterura kugira ngo bakomeze amaboko ndetse n'imikaya muri rusange.

Kwa muganga, inzu nziza iteye irangi ry'umweru ririmo amatara meza ya kijyambere, hakaba harimo ibitanda bibiri by'abarwayi, ndetse n'akagare gatwarwaho ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga.

Kwa muganga, mu nzu nziza iteye irange ry'umweru, hakaba harimo abaganga benshi cyane, aho bakiriye abarwayi batandukanye bafite ubumuga. Higanjemo abafite ubumuga bw'ingingo kuko benshi bari mu tugare.

Inyubako nziza cyane z'ibitaro, zifite inzira y'abagenzi isakaye n'amabati, aho ku ruhande hari kaburimbo, ndetse hagati y'inzira y'abagenzi na kaburimbo hakaba harimo ubusitani, hari n'icyapa kinini cyane kigaragaza serivisi zihatangirwa.

Inzu nziza cyane iriho murasire hejuru yubakije amatafari ahiye mbere hari indabyo iyo nzu ikaba yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Inzu nziza cyane y'ibitaro iteye irange ry'umuhondo ikaba ifite parafo ifite inzugi nini cyane zifite ibirahure bibonerana handitseho amagambo y'icyongereza asobanura ko ari ikigo cy'ubushakashatsi.

Ni inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye y'impunyu, ikaba ifite ibaraza nini cyane. Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'indabo ndende ziganjemo ibara ry'umuhondo.

Kwa muganga hari icyumba kirimo imashini yabugenewe ifasha mu gufata amafoto ku gice cy'umubiri gifite ikibazo, harimo n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru aho ari kuyikoresha.

Inyubako nziza cyane. Iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse na mudasobwa, harimo icyuma umuntu aryamaho iyo bagiye kumufata amafoto y'umubiri we wose.

Inzu nziza icururizwamo imiti itandukanye. Harimo abakiriya baje kugura imiti, ku ruhande hakaba hari umumotari uri moto ndetse n'imodoka biri mu muhanda.

Ni inzu nini iritaruye yubakishije amatafari ahiye ya ruriba, imbere hari imihanda y'abanyamaguru ndetse icamo n'ibinyabiziga, ku ruhande hakaba hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'umucaca.

Umuganga w'umukobwa wambaye ishati y'ubururu ndetse akaba afite n'ibisuko, ari kuvura umusaza uryamye ku gitanda, aho ari kumunanura amaguru n'amaboko, asa naho yakoraga imyitozo ngororamubiri akaba aratsikiye.

Inyubako nziza cyane ikoreramo serivisi z'ubuvuzi, ikaba iteye irangi ry'umuhondo, ifite amadirisha atatu arimo ibirahuri, iruhande rwaho hari ubusitani, umucaca ndetse n'indabo, ikaba ari inzu ikorerwamo serivisi zihabwa abarwayi zo kuvura kanseri.

Kwa muganga icyumba kiza giteye orange ry'umweru, kirimo ibikoresho, mudasobwa ndetse n'igitanda cy'abarwayi, kikaba cyifashishwa umurwayi akaryamaho kugira ngo muganga abone uko amuvura neza.

Inyubako nini cyane kandi nziza ikaba ari igorofa igeretse kane, itagirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ikaba ifite imbuga nini cyane iparitsemo imodoka z'ubwoko butandukanye hakaba hari n'umugabo uri kuzoza.

Ibitaro by'akataraboneka, biteye irangi ry'umuhondo, bisakaje amabati atukura, aho imbere hari abaturage baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, hanze hari imodoka iri gutambuka mu muhanda, inyuma y'igipangu cyubakishije amatafari y'impunyu

Ni inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru ndetse n'ay'umuhondo, irimo amatara meza cyane, irimo inzugi n'amadirishya by'akataraboneka, ikaba irimo intebe nyinshi cyane za parasitike zicayemo abantu batanu, aho bazindutse baje mu nama.

Inyubako nini cyane yitaruye ni igorofa igereretse kabiri ikaba yubakishije amatafari ya ruriba, imbere hari umucaca uteyemo amapoto abiri ariho amatara abiri manini ahamurika mu gihe cy'ijoro.

Inyubako nziza cyane, ikorerwamo n'abaganga ikaba ari ibitaro bya Nyarugenge, iruhande hari nzira y'abagenzi irimo amapave, ndetse hakaba hari n'indabo nziza cyane.

Korodoro ndende cyane, yicayemo abakobwa aho buriwe se yicaye ku ntebe ye bifashe mapfubyi bose bambaye udupfukamunwa, aho imbere yabo hahagaze umugabo ukora kwa muganga uri kubabaza ikibagenza.

Inyubako yo kwa muganga iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo amatara meza, harimo akabati kabikwamo ibintu bitandukanye, hakaba harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa.

Kwa muganga hari intebe yabugenewe isa n'icyatsi, aho iryamwaho n'umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo, hakaba n'agatebe muganga yicaraho iyo ari kuvura indwara z'amenyo.

Inyubako nziza cyane y'akataraboneka, izajya itangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi ariko bakaba batayitaha ku mugaragaro, irateguye neza bisa naho habura igihe gito.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga ari kwita ku barwayi, twavuga nk'ibitanda by'abarwayi, intebe bicaraho ndetse na mudasobwa areberaho amashusho y'uburwayi yabapimye.

Abaganga babiri bari mu nzu imwe kwa muganga, bambaye udupfukamuwa bombi ndetse n'amataburiya y'umweru, bari kuganira bareba mu cyuma kigaragaza amafoto yerekanywe y'uburwayi bw'umuntu, wari waje gushaka serivise z'ubuvuzi.

Inzu nini cyane y'igorofa, igeretse kane ikaba ari inzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo n'ibikorwa byo gucuruza imiti, imbere haparitse imodoka ebyiri, hakaba hari n'indabo ku ibaraza.

Abaganga bagiye gupima umurwayi ku gitanda bashishikajwe no kureba indwara yaba iri muri uwo muntu, muganga yambaye ikanzu y'akazi ndetse n'ingofero udupfukamunwa mu by'ukuri iyi ndwara isa nkaho yaba ari indwara yandura.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba iriho urugi runini cyane rw'umweru rurimo ibirahure, hejuru handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'umukara.

Abaturage batandukanye biganjemo abagore bahuriye kwa muganga aho bose baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kwa muganga hari inzu ziganjemo zifite amabara y'umweru imbere hakaba hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'indabyo ndende.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari ibizwi nka riteri baterura kugira ngo bakomeze imikaya ndetse n'ibindi byinshi.

Kwa muganga hakaba hateye amabara atandukanye hari umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku n'andi, hakaba hari intebe ndetse hakaba hari n'igikinisho cy'akanyamasyo.

Ni mu nzu nziza cyane y'ibitaro, inzu iteye irange ry'umweru, ikaba irimo amatara meza, aho harimo ibyuma bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu nini cyane irimo amabara atandukanye, ariko akaba ari inzu y'ubuvuzi bisa n'aho havurirwa abana bato kuko harimo ibikinisho by'abana birimo ibipirizo n'ibindi bitandukanye.

Inyubako y'ibitaro yubakishije amatafari ahiye, ifite ibaraza ryiza rinini, ririho intebe imwe yicayeho abarwayi benshi aho abandi babiri bicaye, ku ruhande imbere hari indabo ndetse n'inzira y'abagenzi aho baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Inzu nini cyane y'ubuvuzi iteye irangi ry'umweru ikaba irimo ibitanda byinshi cyane by'abarwayi aho bamwe biryamyeho abarwayi ibindi ntabo. Hakaba harimo igikuta gito gitandukanye ibyo bitanda by'abarwayi.

Koridoro ndende kandi nziza cyane ikeye kwa muganga, akaba ari inzu iteye amarangi atandukanye, nko mu cyumba kimwe hari amarangi y'umuhondo, hakaba hari udutebe aho urugi ari ibirahure gusa.

Kwa muganga hari icyumba kiriho inzugi ebyiri ziri mu ibara ry'umuhondo, zikaba zifite ibirahuri bibiri, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'icyongereza asobanura ko ari icyumba kibagirwamo abarwayi.

Inzu nziza cyane iteye irange ry'umweru ndetse n'irange ry'icyatsi ku ruhande, irimo amatara meza cyane ikaba irimo n'ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda, isaha ndetse n'utugare dutwarwaho ibikoresho bitandukanye kwa muganga.

Abaganga benshi cyane bari mu nyubako ifatirwamo ibizamini aho bose bambaye udupfukamunwa, amataburiya y'umweru ndetse bakaba bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bashyira imiti mu macupa.

Inzu nziza cyane, ni igorofa igeretse kane, iteye irangi ry'umuhondo, akaba ari inyubako ifite imbuga nini, irimo amapave, hakaba haparitse imodoka, hanze hari icyapa kigaragaza izina ryiyo nyubako.

Kwa muganga, icyumba kinini cyane kisaganuye giteye irangi ry'umweru, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, birimo imiti, amapombo, ndetse hakaba hari n'ibitanda abarwayi baryamaho.

Icyumba kiza cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bitatu bishashe neza, biriho amashoka y'icyatsi, ibitanda byose nta muntu ubiryamyeho, aho hariho amarido atandukanya ibyo bitanda.

Umugabo ukora serivisi z'ubuvuzi, akaba yambaye ijire y'umukara akaba yakiriye undi mugabo wambaye ishati ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi usa naho we adakora muri serivisi z'ubuvuzi, aho ari kumuvura.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite ibaraza rinini cyane riteye irange ry'umweru hicaye abantu bane ikaba yanditseho ngo Ikigo nderabuzima cya Shagasha.

Inzu nziza cyane y'ibitaro ni igorofa igeretse rimwe, iteye amarange y'umweru ikaba iriho amabati y'umutuku, aho yanditseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza, asobanura ibitaro bikuru bya Shyira.

Inzu nziza yitaruye imisozi. Ni inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho hanze hari akayira k'abanyamaguru kari kugendamo umuntu umwe, imbere yayo hakaba hari abantu babiri bahakora amasuku, bari kugenda impande y'Idarapo ry'u Rwanda.

Abaganga batatu, bose bambaye impuzankano ya baganga, ikaba ari amashati ndetse n'amapantaro by'umweru, bakaba bari kuvura abarwayi babiri, ariko bakaba bahereye ku murwayi umwe w'umugabo, aho umwe muri abo baganga ari kumupima.

Agabo, abagore, ndetse n'abana, bahuriye mu nzu kwa muganga, aho batonze umurongo kugira ngo bose bahabwe serivisi zo kuganira na muganga, aho yabasanze iwabo kugira ngo abashe kwita ku burwayi bwabo, abavure bakire.

Inzu nini cyane izajyi itangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi ariko bakaba batari bayitaha, iragaragara nk'igorofa igeretse rimwe irimo intebe ndetse n'ibindi aho hari hateguwe n'ahazajya hakirirwa abarwayi bakigera muri ibyo bitaro bwa mbere.

Muganga w'umugore mwiza ufite imisatsi afite urushinge ari gutera umurwayi w'umugabo, selumu bashaka kumuha imiti kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, umurwayi aryamye ku gitanda.

Inyubako ifite amarangi atandukanye akiri mashya. Ni inyubako izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba irimo amarangi y'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu. Irimo parafo y'amabara atandukanye ndetse ikaba irimo n'amakaro abonerana.

Inyubako ebyiri zirimo ubusitani bwiza cyane, hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, ikikijwe n'ibisima biteye irange ry'umweru ndetse n'umukara. Hagati hari umucaca ndetse hateye n'indabo ndende.

Umwana mutoya ni umuganga ni umwana ugereranyije n'umubyeyi bari kumwemwe, uyu muganga yambaye ishati ndetse n'ipantaro by'ubururu aho ari kuganira n'umubyeyi mukuru, aho yamusanze mu rugo bakaba bicaye ku mbuga, inyuma yabo hakaba hari urutoki.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye: ameza, intebe, mudasobwa ndetse hakaba hari n'ibishushanyo by'amaso, bisa n'aho muri ibi bitaro bahatangira serivisi zitandukanye z'amaso.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, iritaruye yubakishije amatafari ahiye y'impunyu, ikaba irimo amadirisha arimo ibirahuri byiza cyane bibonerana. Imbere hari umuhanda ucamo ibinyabiziga ndetse n'abantu baje kuhivuriza, hakaba n'icyapa kigaragaza serivisi zihatangirwa.

Ni ku marembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, hateye indabo ndetse n'umucaca, hakaba hari umugore uhagaze uhetse umwana, utegereje kugira ngo yinjire muri ibyo bitaro, ibitaro bikaba iteye irangi ry'umweru ndetse n'igipangu giteye irangi ry'umweru.

Kwa muganga ni inzu nziza yakiye abarwayi benshi, isakaje amabati iriho igipangu cyubakishije amatafari y'impunyu, imbere hari umuhanda ugendamo ibinyabiziga nk'amagare, hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Gisenyi.

Inzu nziza cyane irimo irange ry'umweru, ikaba harimo igitanda cy'abarwayi, mudasobwa ndetse n'utugare dutwarwaho imiti n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga.

Inzu nziza iteye irange ry'mweru, ikaba Irimo igitanda cy'abarwayi, agatebe gato hakaba harimo ndetse ibindi bikoresho byinshi byifashishwa na muganga kugira ngo avure abarwaye neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba ari gorofa igeretse rimwe, iteye amarangi y'umweru, ikaba isakaje amabati atukura, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave ndetse hakaba hari n'ubusitani burimo umucaca n'izindi ndabyo.

Ku bitaro byahoreye abarwayi benshi ndetse n'abandi bantu bose badafite uburwayi aho baherekezanyije. Mu mbuga yayo hari amapave akaba haparitse n'imodoka yazanywe n'umwe mu bahakorera.

Kwa muganga icyumba kirimo irangi ry'umweru. Harimo igitanda cy'abarwayi hakabamo na mudasobwa muganga apimiraho neza areba uburwayi umurwayi yaba afite kuko akenshi atabasha kubapimisha maso.

Mu nyubako y'ivuriro, hakaba harimo ibyuma byiza cyane byifashishwa n'abaganga mu kwita ku barwayi, iyi nzu iteye amarangi y'umweru iri y'umweru, ikaba irimo n'amatara y'akataraboneka, ibi byuma byifashishwa ahanini mu gupima uburwayi bw'imbere mu mubiri.

Inzu nini yitaruye, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, hagati hakaba hari akantu gatoya karyamyeho umurwayi usa naho bamushyize mu kato.

Abagore batanu harimo umuzungu umwe abandi bose ni abirabura bari kwifotoza imbere y'inzu yubakishije amatafari y'impunyu isa n'aho ari inzu y'ubuvuzi ikorerwamo ibizamini.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo amarangi y'umweru, irimo parafo y'umweru, ndetse ikaba irimo n'itara rimwe rinini, iyi nzu irimo ibikoresho bitandukanye, birimo igitanda, n'intebe, irimo utubati, ndetse ku gikuta hakaba hari ibishushanyo bitandukanye.

Amarembo meza cyane akaba akoze mu byuma yanditseho amagambo y'Icyongereza asobanura ngo ibitaro bya kabgayi, hari inzira y'abagenzi ndetse icamo n'ibinyabiziga, aho hari abantu babiri hakaba uwa gatatu uri ku igare n'abandi bicaye mu ibaraza ry'inzu.

Umugabo akora kwa muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapira k'umuhondo mu nda, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso. Akaba yicaye mu nyubako akoreramo aho yicaye ku gatebe gato k'icyuma kariho umufariso w'icyatsi, hirya ye hakaba hari n'ikindi gitanda kiriho imifariso y'icyatsi.

Inzu ebyiri nziza z'ubuvuzi. Zubakishije amatafari ahiye, imwe isakaje amabati atukura indi isakaje amabati y'ubururu, imbere hari ubusitani burimo indabo ndetse n'umucaca.

Inyubako y'akataraboneka ni igorofa igeretse rimwe, iteye amarangi y'umuhondo, ikaba ifite ibaraza rinini cyane, irimo inzugi ngari z'ibyuma ndetse ku ibaraza hakaba hahagaze umukobwa.

Mu nzu nini cyane yo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abarwayi, by'umwihariko abafite uburwayi bw'ingingo, kugira ngo barusheho kwinanura ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cy'akataraboneka kiri mu bitaro kwa muganga. Giteye amarangi meza cyane y'uruhehemure, kikaba kirimo ibitanda bine bisashe neza by'abarwayi. Ibitanda birasa n'umweru mu gihe babisasheho amashuka y'icyatsi.

Umuganga w'umugore ari mu bitaro yambaye ipantaro ndetse n'ishati by'icyatsi afite umusatsi mwinshi akaba ari gutembera mu cyumba cy'ibitaro mu bitanda by'abarwayi aho byose bishashe neza bikaba bitandukanijwe n'amarido y'ubururu.

Ni inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, isa naho batari bayitaha koko ntiruzura neza, imbere ifite imbuga iriho amapave iteyemo indabo ndetse ikaba yanditseho n'amagambo asobanura izina ryayo, aho ari ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge.

Inzu nini yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo imashini, ndetse n'ibindi byinshi bikoresha umuriro w'amashanyarazi, biri mu mabara y'umweru, umutuku, ndetse n'ibindi byinshi byose byifashishwa na muganga, mu buryo bwo kwita ku barwayi kugira ngo abashe kubavura uko bikwiye.

Umugabo ukora mu nzego z'ubuvuzi ari kwa muganga afit mudsobwa aho ari kwitegereza amashusho agaragaza uburwayi umuntu afite bwafashwe hifashishijwe iyuma cyabugenewe.

Icyapa kinini cyane, kiriho amagambo atandukanye asobanura ko bari guha ikaze abaturage ndetse n'abandi bose baza gushaka serivisi ku nzu iri hafi aho, ko batanga serivisi z'ubuvuzi ndetse kikaba kigaragaza n'intego nyamukuru.

Ikigo cyiza cyane cy'ivuriro, kikaba kirimo inyubako nyinshi cyane, zirimo amagorofa, ndetse n'izindi zisanzwe, gifite igipangu giteye amarangi y'umweru, gifite amarembo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya Nyanza.

Inzu nziza cyane y'igorofa igereretse rimwe ikaba isakaje amabati y'ubururu, imbere hariho akantu gato k'ibaraza kariri mu ibara ry'umutuku handitseho amagambo asobanura ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya aho imbere hari ubusitani ndetse n'idarapo ry' u Rwanda.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye byiganjemo intebe, hari intebe nto ndetse ni nini, hakaba hari n'ibindi bikoresho bizwi nka mikorosikopi byifashishwa mu kureba utuntu dutoya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa na muganga ari kwita ku barwayi. Muri ibyo byose, harimo ibitanda, intebe, mudasobwa, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu nziza cyane yitaruye ni igorofa igeretse kabiri ikaba yubakishije amatafari ya ruriba, imbere hari ubusitani burimo indabo ndende n'ingufi, hakaba hari n'inzira y'abagenzi irimo amapave.

Inzu nini kwa muganga ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, ikaba irimo: igitanda cy'abarwayi, agatebe, icyuma cy'ikoranabuhanga kigaragaza amashusho n'ibindi byose bikoreshwa na muganga.

Inzu nziza iteye irangi ry'umuhondo imbere hari inzira y'abagenzi ndetse hakaba hari n'ubusitani buririmo indabo ndetse ku ruhande hakaba hari kugenda umuntu ukora mu nzego z'umutekano.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru ararwaye aryamye ku gitanda kwa muganga aho ari kwitabwaho na muganga w'umugore amugira inama y'uburyo akwiye kwifata, hirya ye hakaba hari undi mugore uryamye ku gitanda cye ari kubareba.

Umukobwa wakoraga imyitozo ngororamubiri, yambaye urukweto mukuguru kumwe, aho ukundi ukuguru bari kugupfuka, nyuma yuko yatsikiye, ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yaje kwa muganga kugira ngo bamwiteho.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Afite ku ruhande imbuto zitandukanye zirimo imineke, amaronji ndetse n'inkeri, byose aribuze kubirya amaze gukora siporo.

Agakarito gasa n'umuhondo, kariho udupaki dutatu twa korogate ndetse tukaba twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, byanditswe mu ibara ry'icyatsi ariko ntago nzi icyo bisobanura.

Umugore wisobanukiwe. Yicaye hasi kuri tapi, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ndetse n'amaboko, yishimye cyane abona ko yishimiye ibyo arimo.

Agakarito kari mu mabara abiriye umweru ndetse n'ubururu, kanditseho amagambo atandukanye ari mu ururimi rw'Icyongereza, aka gakarito kakaba karimo imiti itandukanye yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikizingo kinini cyane gifite ibara ry'umutuku, akaba ari ikizingo kivaho ibipfuko bapfukisha umuntu waba yakomeretse cyangwa se undi wese ugiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo adakomereka.

Icupa rya parasitike ririho umupfundikizo w'ubururu ririmo amazi meza y'urubogobogo rikaba rirambitse mu y'andi mazi anyobwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri gakozwe n'icyuma ndetse na parasitike iri mu ibara ry'icyatsi kandiditseho ijambo arufa kakaba gakoreshwa mu guterura abantu babagize impanuka mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu benshi cyane bahagaze bambaye amajire y'umweru ariho ikimenyetso cyo guteranya, imbere yabo hari undi umwe uryamye ku kiringiti hasi, hakaba hari n'undi wambaye ijire y'umutuku uri kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye isengeri ndetse n'isaha, ari kumva imiziki, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, ananura amaboko, yaba mu nkokora ndetse n'aho ukuboko gutereye.

Ikimenyetso cy'ikiziga kigabanyijemo kane hagati hakaba harimo ikimenyetso cy'urutirigongo, hariho umuntu uri kwiruka, ibiganza bibiri bifatanye ndetse n'umuntu uri kunyerera ku rubura hakaba hari n'ikimenyetso cyo guteranya.

Umukobwa uhagaze wambaye ipantaro ariko imbere ye hakaba hari insimburangingo zisa n'aho ziri kwamamazwa, zose zisimbura urugingo ku bantu baba baracitse akaguru.

Igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza akaba yanditse mu ibara ry'umukara, hejuru hari ikimenyetso cyo guteranya kiri mu ibara ry'umutuku kikaba ari ikimenyetso cy'umuryango mpuzamahanga utabari imbabare.

Umugabo w'umuganga, yambaye itaburiya y'akazi akaba ari gusuzuma umurwayi uje abagana wavunitse mu ivi ubwo yakoraga imitozo ngororamubiri.

Uducupa dutatu turasa n'umweru tukaba turiho igipapuro kituzengurutse gisa n'ubururu. Handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, utu ducupa tukaba turimo umuti ugabanya ububabare.

Umugabo yicaye hasi yambaye isaaha akaba yambaye isengeri ndetse n'ipantaro by'umukara, ari kunywa amazi kuko arananiwe nyuma y'uko amaze gukora imyitozo ngororamubiri yirukanka ikibuga akizenguruka.

Imbago y'icyuma, hasi ni palasitike no hejuru ikaba ifite imikono ya palasitike, yifashishwa n'abantu bafite ikibazo cy'ingingo by'umwihariko ingingo z'amaguru.

Ukuguru kuririmo igisima, uku kuguru kwahuye n'ikibazo cyo kumugara bajya kwa muganga hanyuma bashiraho iki gisima kugirango ukuguru kugororoke.

Umukobwa uhagaze yinanura akaba yitegeye inyanja, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri gato kamufashe k'umweru aho ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaguru, amaboko ndetse n'umugongo.

Umugabo w'umuzungu ari kunywa amazi mu gacupa, akaba yicaye hasi ku masikariye, yambaye ipantaro ndetse arikumva n'umuziki kuko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri none arananiwe.

Mu nzu nziza cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo intebe umurwayi aryamaho cyangwa se undi uwo ari we wese ukeneye gukora imyitozo ngororamubiri, hakaba hari n'agatebe kandi gatoya.

Icyuma cy'ikoranabuhanga kizwi nko kuzenguruka giteretse mu inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kikaba gifite amabara y'ubururu, umweru ndetse hasi aho giterekeye abagifite amaguru y'umukara.

Umugabo w'umuganga, afite umusatsi, ni umwirabura, yambaye uturindantoki tw'umweru, ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba ahagaze mu nzu atangiramo serivisi, iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo n'igikoresho cy'umutuku kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umukobwa w'umwangavu, yambaye isengeri akaba yatereye furari ku rutugu, ari kunywa amazi mu icupa risa n'umukara aho yari amaze gukora siporo.

Ni ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri harimo ibinini, hakabamo uducupa tw'imiti, hakabamo amavuta bisiga atuma batabira ibyuya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo ufite ukuboko kubyibushye ndetse n'amatuza. Yatereye furari ku rutugu y'umweru, akaba ari kunywa amazi mu icupa ubona ko yari afite icyaka nyuma y'uko avuye gukora siporo.

Umusore ufite amatuza yicaye hasi yambaye agasengeri akaba ariwe ukora siporo ananura amaguru ndetse n'amaboko by'umwihariko mu mavi ndetse no mu nkokora.

Umugabo wavunitse intoki ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri izwi nka pombaje, yagiye kwa muganga aho ari kwitabwaho na muganga amupfuka ndetse akaba ari bumuhe n'imiti imufasha kugabanya ububabare.

Agapapuro k'agakarito kandiditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ari mu ibara ry'umweru yose ari mu rurimi rw'Icyongereza ariko asobanura gusiganwa wiruka ku maguru.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ameza imidari ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, haba hari umugabo wambaye ikabutura ndetse ufite amatuza n'akaboko ubyibushye, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umugore uri kumutoza.

Hari ironji, ipera, ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, hakaba n'umutobe w'izo mbuto uri agakombe, hari metero ndetse n'utwuma twifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, bisa naho iyo bamaze gukora imyitozo barya izo mbuto.

Umuntu utagaragara ku isura, ariko akaba akora imyitozo ngororamubiri, afite ikiganza cy'inzobe cyangwa se akaba ari umuzungu, aho afite agacupa gato ka palasitike karimo amazi yo kunywa.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Hakaba harimo n'imashini yifashishwa n'abantu bakora masaje. Akaba ari ahantu ugenda ukaryama nuko hakaza undi akagenda akugorora umubiri wose.

Abantu bane, babiri bagiye kureba umurwayi wabo uri mu bitaro, barimo kumubirindura ngo barebe ukuntu amerewe, bakamubaza amakuru, bitegereza niba ari koroherwa cyangwa atari koroherwa.

Umugabo ubyibushye, yambaye ishati y'umutuku, akaba ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, afite mudasobwa aho ari kuyirebamo, yayiteretse ku kabati, iruhande rwe hakaba hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gukora siporo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umukara ndetse n'inkweto zifunze, akaba ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho ari guterura ibyuma. Akaba ari kumwe n'undi mugabo, ari na we uri kumutoza, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu.

Umugabo w'inzobere mu by'ubuvuzi akaba yambaye itaburiya. Imbere ye hicaye abandi bantu biganjemo abakobwa, aho ari kubasobanurira ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba ananiwe cyane nyuma yuko yakoraga imyitozo ngororamubiri. Ubu ngubu yahagaze, aho afite icupa ry'amazi ari kunywa kugira ngo agarure ubuyanja.

Umugabo ufite ukuboko kubyibushye ndetse n'amatuza, afite ubwanwa, akaba yambaye n'umukufe mu ijosi, ari kunywa amazi kuko arananiwe afite icyaka nyuma yuko yaravuye gukora siporo.

Umugabo ufite amatuza abyibushye ndetse n'ukuboko kubyibushye. Akora imyitozo ngororamubiri akaba yavunitse ukuboko, aho bamushyizeho utuntu tw'ubururu ndetse n'umutuku, tumufasha kugira ngo imvune yorohe.

Balo ikinwa mu mupira w'amaguru ndetse n'urukweto rwambarwa n'abakina umupira w'amaguru irambitse hamwe hakaba hariho n'akuma kifashishwa na muganga mu gupima umuvuduko ndetse no gutera k'umutima w'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ufite amatuza ndetse n'ukuboko kubyibushye, akora imyitozo ngororamubiri kuko yarabyibushye akaba yipfutse ku nkokora y'iburyo bisa n'aho yavunitse ubwo yakoraga siporo.

Aha hari igikoresho gisa n'igikozwe mu icupa gifite amagambo hamwe handitse sitopu ahandi handitse seri, utundi tugambo ni dutoya cyane ntitugaragara mu byukuri isura y'iki gikoresho ni ibara ry'umweru.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri akina umupira w'amaguru, yavunitse ubwo yakinaga umukino n'ikipe bari bahanganye, akaba yaje hano kwa muganga kugira ngo yitabweho bamavure.

Uducupa dutatu dusa n'umweru, tukaba turiho igipapuro kituzengurutse k'ibara rya viyoreti, hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, bigaragara ko harimo umuti ugabanya uburibwe.

Uducupa tubiri tw'amazi twa palasitike, duteretse impande y'ironji rikase ndetse n'ipera, ku ruhande hakaba hariho metero ndetse hari n'akuma gakoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umwana mutoya cyane bamuryamishije hasi bakaba bari kumunura, bisa naho bari kumukoresha siporo, ku ruhande hakaba hari abandi bana bajijutse bari kumureba.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, birimo ibyuma baterura, isaha, metero, ikaye, ikaramu ndetse n'ibindi bitandukanye, byose bifashisha kugira ngo barebe umusaruro w'ibyo bakoze.

Udupaki twinshi cyane tugiye dusumbana ariko twose tukaba turi mu ibara ry'umweru, turimo umuti ufasha abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abandi bose bafite ikibazo cy'uburwayi kugabanya ububabare.

Umugabo wambaye ikote ry'imashini rifite amaboko maremare, ari guhereza amabwiriza undi musore wambaye ga ndetse n'umupira w'umweru, usa n'aho ari umutoza we kugira ngo aze gutsinda mu marushanwa.

Ni ibikoresho byinshi cyane bitondetse hamwe bikaba byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, birimo imakasi, uturindantoki, imiti, inshinge, amapombo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wakoraga imyitozo ngororamubiri, yatsikiye akaguru kamwe, nyuma y'uko yari ari kwiruka asiganwa na bagenzi be, akaba yaje hano ku ivuriro, aho ari kwitabwaho na muganga ubifitiye uburenganzira.

Abaganga batanu bari mu nzu y'ivuriro, bakaba bambaye amasashi mu mutwe y'icyatsi ndetse n'imyenda y'ubururu, aba bose bahagaze mu cyumba kimwe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibisahane ndetse hakaba hari n'akabati k'umweru.

Imbuto nyinshi zitandukanye twavuga nk'inanasi, karoti, umutobe, imineke ndetse n'ibindi biribwa birimo amagi, karoti, inyama z'inkoko n'ibindi, byose biribwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ari gusuka amazi ayavana mw,ijagi ayasuka mu gikombe cy'ikirahure asa naho akangurira abantu bose kuzajya banywa amazi bifashishije igikombe kugira ngo batanduzanya indwara,

Umusore usanzwe akora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'ikoboyi, agapira k'amaboko magufi kamufashe cyane ndetse akaba yambaye n'umukufi, yaje kwa muganga aho ari kwitabwaho n'umuganga w'umugabo wambaye ishati y'umweru akaba ari kumupfuka ku kirenge.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, akaba ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura kurwanya imiti yongera imbaraga ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri hakaba hari ipombo n'urushinge bisobanura ko bakoresha iyo miti bayitera mu nshinge.

Igikapu kiri mu ibara ry'umutuku, kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo impakasi, ipombo, uturindantoki, imigozi, isaha, n'ibindi byose byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga akora mu bijyanye na masage. Akaba ari kumasa umugabo aryamye ku gitanda bisa n'aho yananiwe cyane kuko yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa mwiza cyane yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri akaba ageze ku muhanda w'amapave ariko akaba ananiwe, arunamye aho ari kugira ngo abanze atore agatege.

Akuma kazwi nk'ingobyi kenshi na kenshi kifashishwa mu gutwara abantu baba bagiriye imvune cyangwa bakomerekeye, imyitozo ngororamubiri, kaba ari akuma kari mu ibara ry'umuhondo.

Umwana muto bisa naho ataruzuza imyaka itanu yajyanye n'umubyeyi we kwa muganga ndetse hari n'abandi bantu babiri babaherekeje aho muganga ari kumusuzuma mu kanwa ngo arebe ko atakomeretse ubwo yagwaga ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigaragara neza cyane, hari umuntu uri gukoresha telefoni itagendanwa, impande ye hari laputopu umuntu ubaza ari kuvugana n'umuntu anezerewe.

Umukobwa wambaye agakabutura gato ndetse n'agasengeri gato, twose turi mu ibara ry'icyatsi yambaye inkweto zifunze akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ndetse n'amaboko.

Isahani iriho imboga n'imbuto. Imbuto twavuga nka voka ndetse imbuto tukavuga pavuro, inyanya, ibibiringanya ndetse n'ibindi. Hakaba hasi hari inkweto ndetse n'ibindi bikoresho bisa naho nyirabyo abikoresha ari gukora siporo.

Umukobwa mwiza cyane, wamanuye ukuguru ukundi agushyirara imbere, amanuka gato, yigiza amaboko hejuru, ari muri siporo kandi uri kubona ko yananutse neza, arananutse rwose imitsi ye ikora neza.

Umukobwa wambaye ipantaro imufashe cyane, yambaye n'agasengeri gato kamwegereye akaba afite umusatsi mwinshi cyane w'umukara, ahagaze ku mukeka aho ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko, amaguru ndetse n'umugongo.

Igikombe cyangwa se ikirahure icupa ririgusukwamo amazi, birumvikana umuntu ari gusuka amazi mu kirahure kugirango ayo mazi aze kunyobwa, ikirahure cy'umweru cyiza cyane ndetse n'icupa rifite akantu k'umutuku.

Umukobwa muto wambaye isengeri y'ubururu, iriho ibara ry'icyatsi hejuru, yateye furari ku urutugu, akaba ari kunywa amazi mu gacupa k'umweru, gafite umupfundikizo w'ubururu, kuko avuye muri siporo.

Hari udupaki dutandukanye turimo imiti gakondo, twavuga nk'udupaki tw'icyatsi, umutuku, umukara, igitaka, ariko twose umuti urimo ukaba akoze mu ikawa.

Abantu babiri bakaba abaganga gakondo bagiye mu ishyamba aho bagiye guhamura, umugabo yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikote ry'umukara ry'amaboko maremare, mu gihe umugore yambaye ikote ry'amako maremare ry'umweru.

Imiti gakondo itandukanye imwe iri mu mavaze aho itaratunganywa neza, mu gihe indi iri mu gacupa karimo amazi gapfundikiye cyane, iruhande hari uducupa dutatu kamwe gapfunduye hakaba n'indi miti iri mu gasekuru kabugenewe.

Igikakarubamba ni ibibabi bitatu bisa n'icyatsi bikiri bitoto, ku ruhande hakaba hari akajerekani gato k'umuhondo karimo umuti ukoze mu gikakarubamba.

Ikimera cyiza cy'akataraboneka, gikunze kuboneka mu bice by'amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari ikimera gikorwamo umuti gakondo, gifite amababi arekuye ameze nk'ay'isombe kikagira n'imiteja hejuru.

Uducupa tubiri twose dushushanyijeho igikakarubamba, kamwe kariho igipapuro cy'umuhondo, akandi kariho igipapuro cy'umweru, hasi hari udusate dutatu bisa naho ari umunekeye basatuyemo gatatu.

Ikimenyetso kiri mu nyuguti ya ma ariko kigaragaza inzovu. Kikaba kiri mu ibara rirya kuba igitaka, ndetse hakaba handitseho amagambo ari mu cyongereza avuga ngo AkageraMedecines.

Kuko igikakarubamba kivamo imiti itandukanye ndetse kikanavura ibintu byinshi gikoreshwa mu buryo butandukanye hari uburyo gikorwamo amavuta asigwa ku mubiri isabune ndetse n'umuti w'amenyo.

Agapaki gatoya kariho amagambo ari mu ibara ry'icyongereza kakaba kariho amabara atandukanye yiganjemo ubururu ndetse n'icyatsi, kaba ari agapaki gafite amagarama cumi n'arindwi kabikwamo imiti gakondo.

Umugore wihangiye imirimo akaba acuruza imiti gakondo itandukanye yiganjemo iri mu macupa ubwo ni imiti isukika, hari abakiriya baje kugura, hari umugabo wambaye ishati wanatebejene uri gushaka kugura imiti.

Uducupa tune turi mu ibara ry'umweru ndetse ni duto mu gihe ku ruhande rw'ibumoso hari utundi ducupa tureture tubiri dusa n'umweru akandi kakaba gasa n'umuhondo, twose dushushanyijeho ikakarubamba kuko turimo imiti ikoze mu gikakarubamba.

Igicupa kiriho igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku asobanura ngo ubuki bw'inzuki iteka ryose, hasi hakaba hashushanyijeho n'uruyuki.

Ibimera bitandukanye byiganjemo ibiti nk'imisave ndetse n'ibindi byose byifashishwa nk'imiti gakondo, aho babihamura bakagenda bakabitegura neza nyuma bakazabyifashisha abavura abantu.

Hari ibitoki, ubunyobwa, umwenya ndetse n'umuravumba, akaba byose ari ibikoreshwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza kuko harimo ibiryo ndetse n'ibindi bivamo umuti.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umweru hasi no hejuru harasa n'umuhondo kakaba gashushanyijeho igikakarubamba ndetse hakaba handitseho n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza avuga ko umuti uri muri ako gacupa ukoze mu gikakarubamba.

Udutebo twinshi cyane turimo imiti itandukanye gakondo ariko yumishijwe, hakaba hari iy'umuhondo, irimo ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'indi itandukanye yose yifashishwa n'abaganga.

Agapaki gatoya gasa n'umweru kariho umupfundikizo, kakaba kameze nk'akabamo umuti w'amenyo. Kababa kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, akaba ari mu rurimi rw'icyongereza.

Agacupa gatoya karabonerana kakaba gafite umupfundikizo w'umweru ndetse kariho igipapuro cy'umweru kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'icyongereza risobanura ko ari umuti wica mikorobe.

Ikimera gifite amababi maremare, kimeze nk'aho ari urunyanya, akaba ari ikindi kimera kiza cyane gikorwamo imiti gakondo, ikimera gitoshye giteye mu murima, aho munsi yaho hari utundi tumera duto.

Ishyamba rinini cyane ni ishyamba ry'akataraboneka aho ribonekamo ibimera bitandukanye bihamurwa bikavamo imiti gakondo ivura indwara zaba izo mu buhumekero ndetse n'izo mu ngingo.

Uducupa tubiri dusa n'umuhondo, dushushanyijeho igikakarubamba, ku ruhande hakaba hari indi shashi nayo irimo umuti ukozwe mu gikakarubamba, hirya hakaba hari akandi gakarito nako karimo ibara ry'umweru kanditseho C n'umubare icyenda.

Igikakarubamba kirambitse ahantu. Iruhande hirya hakaba hariho akamenyetso k'inuma ndetse handitseho n'amagambo, ari mu ururimi rw'Icyongereza asobanura ngo iteka ryose.

Ikimera cyiza cyane gifite amababi ameze nk'ay'itunda, kikaba gitoshye ubona ko cyitaweho neza aho nyiracyo akiyifashisha mu buvuzi bwe gakondo avura abarwayi baturutse impande zose z'igihugu.

Ibimera by'akataraboneka biboneka hake mu Rwanda, aha ngaha birahamurwa by'umwihariko amababi dore ko ajya kumera nk'ay'inyanya, bakagenda bakayatunganya akavamo imiti gakondo ifasha abarwayi.

Udukarito turimo, udupfunyika, tw'umweru. Twanditseho amagambo asobanura igikakarubamba, bisa naho turimo umuti ukozwe mu gikakarubamba.

Ikimera cy'umuharavumba kiratoshye cyane aho gifite amababi manini bisa naho giteye ahantu harimo ifumbire nyinshi, akaba ari ikimera gikorwamo imiti gakondo akenshi na kenshi igabanya ububabare.

Imiti gakondo itandukanye, irimo imbuto, ubunyobwa ndetse n'ibindi utamenya, ikaba irarambise ku meza ku makoma, hakaba hari n'agasekuro gato, bifashisha abayisekura kugira ngo bayihindure ifu kuko myinshi muri yo irumye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umutuku akaba afashe ku giti hejuru hari undi mugabo ufite imiti gakondo itandukanye, ku rundi ruhande hari abagabo babiri bagiye mu ishyamba guhamura mu gihe hasi hari imiti gakondo iteye mu murima.

Utudomora tubiri turi mu ibara ry'umuhondo, agacupa kanini gasa n'umweru ndetse n'utundi tubiri duto. Twose turimo imiti gakondo aho duteretse ku meza mbere y'uko muganga aza kudufata ngo ajye kuvura abarwayi.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, kakaba kariho igipapuro kiriho ibara ry'ubururu, bisa n'aho aka gacupa karimo umuti gakondo ufasha abashakanye ibibazo byo kurangiza vuba ndetse no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, bigahita bikemuka.

Imiti itandukanye yarahamuwe kera iranikwa kuri ubu ngubu irumye, aho bategereje kuyisekura mu gasekuru gato kabugenewe, kugira ngo ibashe guhabwa abayikeneye.

Uducupa dutandukanye turimo imiti gakondo harimo uduto dusa n'umweru, hakabaho n'utunini kamwe gasa umweru akandi kakaba gasa n'umuhondo, iruhande hari udupaki n'ubundi tw'amasashe bisa naho na two turimo umuti gakondo.

Ibiti bitatu by'ingeri bikaba birambitse hasi mu murima aho ari umurima munini cyane uhamurwamo imiti gakondo itandukanye yifashishwa akenshi na kenshi mu kuvura indwara.

Igipfunyika cy'ishashi kikaba kiri mu ibara ry'umukara gipfunyitsemo umuti gakondo, ku icyo gipfunyika hariho agapapuro kagaragaza izina ry'uwo muti kari mu ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara.

Udupaki dutandatu turi mu ibara ry'umweru bisa n'aho turimo umuti w'amenyo, twose umuti urimo ukozwe mu gikakarubamba, tukaba twanditseho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, asobanura igikakarubamba.

Uducupa tubiri turimo amazi ashyushye ndetse muri ayo mazi hakaba harimo umwenya ndetse ku ruhande hari umuravumba, aho byose ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zifata mu buhumekero.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye n'akagofero k'abayisiramu acuruza imiti gakondo aho ipanze mu kabati ikaba ipanze mu byiciro aho hari amagambo yanditse ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Ibimera bitandukanye byiganjemo amatovu, ari amatoto, ashaje ndetse akaba yaranayanze, biri mu kinani, aho bihamurwa na byo bigakorwamo imiti gakondo ifasha abarwayi.

Agacupa gato k'ikirahure kagandaye, iruhande hateretse akadobo karimo imiti gakondo ihamuye, muri ako kadobo hakaba harimo imiti y'amababi, muri ako kandi kabase harimo ibiti bitatu, kimwe kiriho igishibo cy'umuravumba.

Icyatsi gifite amababi maremare ni amababi ateye nkay'umuvumu, aho gihamurwa ariko kikaba kidakunze kuboneka cyane, kifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri kamwe ni gatoya akandi ni kanini twose turi mu ibara ry'umweru aho akanini gashushanyijeho igikakarubamba ndetse hakaba hariho n'amagambo asobanura ko harimo umuti gakondo ukorwa mu gikakarubamba.

Imiti gakondo itandukanye higanjemo ibyatsi bikiri bitoto bikaba biri mu ijagi, iruhande hari uducupa turimo imiti y'amazi ndetse hakaba hari n'indosho ebyiri ziriho ibinini by'umweru ndetse n'ibindi by'umuhondo bibonerana.

Udupaki turi mu mabara atandukanye, hari uturi mu ibara ry'umweru, umukara, icyatsi n'umutuku, twose tukaba turiho ibipapuro inyuma birimo, amagambo y'icyongereza asobanura ikawa.

Hari imiti itandukanye, ndetse n'ibimera bitandukanye, bikorwamo imiti gakondo, twavuga umuvumba, umwenya, ndetse n'ibindi aho kuri ubu bayitunganya, bakayibikamo uducupa ari ifu iseye cyangwa se ari umushongi.

Ibimera bitandukanye, bifite amababi ameze nk'ayavoka ndetse bikaba bifite uburabyo n'imbuto, ibi bimera bikorwamo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri, kamwe karasa n'umweru akandi karasa n'umuhondo. twose twanditseho amagambo y'icyongereza asobanura ngo igikakarubamba ndetse no hasi hakaba hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ikimera gifite amababi maremare nk'ay'umufumba, nacyo gihamurwamo umuti gakondo, akenshi kikaba gikoreshwa ari kibisi kurusha uko cyakoreshwa cyumye.

Abantu baturutse imihanda yose, baje mu modoka bakaba baje gusura umuhinzi wabigize umwuga, aho yahinze ibikakarubamba kugira ngo bizavemo imiti itandukanye gakondo ifasha umuryango we ndetse n'abandi muri rusange.

Mu ishyamba rimwe rwagati harimo igiti kinini cy'inganzamarumbo, akaba ari igiti gifite amababi ahamurwamo umuti uvura abantu by'umwihariko bafite indwara zo mu ngingo.

Ni icyatsi gitoya kandi gitoto, gifite amababi akozwe nkaya voka kikaba gihamurwa kigakorwamo imiti iyo cyatunganyijwe neza, cyaba cyumishijwe cyangwa cyasewe ari kibisi.

Igipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo, gishushanyijeho agacupa gasa n'umweru kandiditseho amagambo y'icyongereza, gashushanyijeho n'uruyuki bisa naho ako gacupa kabamo amavuta yongewemo ubuki bw'inzuki.

Ibihingwa byiza cyane bikiri bitoya birikura neza, bishimishije kubona mu maso y'umuntu biratohagiye cyane rwose ni amakemwa.

Agacupa kari mu ibara ry'umutuku. Kanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, mu ibara ry'umweru, aho karimo umuti gakondo ufasha abantu kugira ngo batasinzira.

Abakerarugendo umunani batembereye mu bice bitandukanye by'ibirunga aho bari gusura amazi asuma ndetse n'ibimera karemano byose bitatse u Rwanda.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba yanditse mu ibara ry'umutuku, inyuma hariho urundi ruziga ruriho imiti gakondo itandukanye, yaba iy'umuhondo ndetse n'iy'ubururu, hakaba hari n'ibimera ikurwamo.

Igipapuro kiriho irage ry'umuhondo, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, mu gihe imbere y'aho hari agashashi gapfunyitseho ibinini icyenda, hoya ntabwo ari icyenda ahubwo ni icumi bisa n'umuhondo.

Ikimera kizwi nk'umwenya ni ikimera kivamo umuti gakondo, kenshi na kenshi wifashishwa mu kuvura indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero, kikaba kiri mu murima, gitoshye cyane.

Ni uducupa tubiri tw'umuhondo dufite hasi no hejuru hasa n'umukara, iruhande rwatwo hakaba hari udukarito tubiri turi mu mabara atandukanye, tukaba twanditseho amagambo y'Icyongereza aho turimo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba.

Igihingwa cy'ikibonobono kigira amababi magari cyane aho cyifashishwa nk'umuti ahanini kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zifata mu ngingo cyane cyane ku bantu bavunitse.

Ibikoresho byiza bya kinyarwanda, ibibindi, hariho n'indabo nziza cyane, biteretse ku mukeka. Hari ibyitwa imbehe, abantu benshi ntabwo babimenyereye, ababa mu mujyi, ariko aha hari imbehe nziza cyane, irimo utuntu tumeze nk'udushaza.

Icyatsi gifite amababi maremare nk'ay'umwungo giteye mu ishyamba rimwe ku ruhande rw'ibiti binini by'inganzamarumbo, kikaba arigiti gifite amababi meza cyane ahamurwa agakurwamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agapaki gatoya, gafite ibara ry'ubururu, kakaba gapfunyitsemo umuti gakondo. Kanditseho amagambo ari mu ururimi rw'Icyongereza, asobanura ngo: "Amavuta y'uruhu."

Imiti itandukanye ipfunyitse mu bipfunyika bitandukanye yaba ibikarito ndetse hakaba hari n'iri mu icupa, inyuma yaho harambitse inanasi, iyo miti ikaba ivura indwara zitandukanye ziganjemo iz'umunaniro.

Amacupa atatu y'umweru agiye asumbana mu bunini ariko yose akaba arimo umuti gakondo umwe, usibye ko uri mu mabara atandukanye, iruhande rwaho hakaba hari igikombe cy'umweru nacyo kirimo umuti gakondo.

Udupaki tubiri tw'uducupa turi mu ibara ry'umweru. Tukaba iruhande rwaho hariho indabo ebyiri z'umweru. Ku rundi ruhande hariho udupaki tubiri tw'ibara ry'umweru dushushanyijeho igikakarubamba ndetse hakaba harambitse n'igikakarubamba nyirizina.

Uducupa tubiri duto turi mu ibara ry'umweru, n'utundi tubiri tunini turi mu ibara ry'umuhondo twose twanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku asobanura ngo amavuta akozwe mu gikakarubamba.

Ikimera cyiza cyane gifite uburabyo butangaje aho gikorwamo umuti gakondo, cyane cyane muri ubu burabyo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ziganjemo izifata mu myanya y'ubuhumekero.

Aka ni agacupa gatoya, karasa n'umweru kariho umupfundikizo w'umweru, kakaba kazengurutswe n'igipapuro cy'umweru, aho cyanditsweho amagambo atandukanye mu rurimi rw'icyongereza, asobanura ko aka gacupa karimo umuti gakondo.

Ikimera gitoto cyitwa umufumba na cyo gikoreshwa nk'umuti gakondo, bagihamura bakagenda bagacyumisha aho bagisyamo agafu, gakoreshwa hamwe n'indi miti itandukanye.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, ari gucuruza imiti gakondo hano mu nzu, aho afite etageri irimo iyo miti igiye irunze mu byiciroterawe n'ubwoko bwayo ndetse n'indwara igenda ivura.

Agacupa gato k'umweru kakaba kariho igipapuro cy'umweru, cyanditseho amagambo y'icyongereza ari mu mabara atandukanye, arimo ay'ubururu, umukara ndetse n'icyatsi, aka gacupa kakaba karimo amagarama mirongo itandatu y'umuti gakondo.

Agacupa gatoya karasa n'umuhondo. Gafite umupfundikizo utukura, kanditseho n'andi magambo atukura ari mu rurimi rw'icyongereza, aho asobanura amavuta akozwe mu gikakarubamba, akoreshwa nk'umuti gakondo uvura indwara by'umwihariko iz'imvune.

Icyatsi cyiza cyane kiratoshye, kikaba gifite indabyo z'umutuku ndetse n'iz'umweru, cyereye rwagati mu ishyamba, aho gihamurwa bakagitunganya bakagikoramo imiti gakondo itandukanye.

Ni imiti gakondo itandukanye itondetse hasi ku kirago hakaba imwe iri mu tweso, indi ikaba iri ku rusyo rwabugenewe, indi ikaba itondetse ku ruhande aho bitegura kuyisya bakayinoza kugira ngo bayikoremo imiti gakondo.

Amacupa, udukarito, utudomoro n'ibindi byinshi, biri mu mabara atandukanye ariko byose bikaba biriho ishusho y'igikakarubamba, bisa naho birimo imiti ikozwe mu gikakarubamba.

Icyatsi kiranda hasi kizwi umurandagashi, gifite amababi abira biri ateganye ndetse n'uburabo bw'iroza, ni icyatsi gihamurwamo umuti gakondo, wifashishwa n'abaganga gakondo.

Igiti kinini cy'inganzamarumbo, akaba ari igiti cy'umuravumba kivamo umuti gakondo, by'umwihariko ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata mu myanya y'ubuhumekero.

Akabati kari mui ibara ry'umweru. Karimo imiti gakondo itandukanye, aho ipfunyitse mu macupa ari mu ibara ry'umweru, akaba ariho n'igipapuro kigaragaza amazina y'uwo muti.

Agacupa gato ka palasitike gafite umupfundikizo w'icyatsi kakaba kariho n'igipapuro cy'icyatsi gishushanyijeho umuravumba ndetse hakaba handitseho n'ijambo umuravumba mu kinyarwanda.

Ibipfunyika by'amoko atandukanye bipfunyitsemo imiti gakondo itandukanye, hari umugabo uri kugenda ayisekura mu gasekuru gato kabugenewe asa naho ari kuyitunganya kugira ngo ajye kuyivuza abantu.

Agacupa gatoya kari mu ibara ry'umweru kaba kanditseho amagambo bisobanura ngo igikakarubamba mu ibara ry'ubururu, iruhande hakaba hari igikakarubamba gikase mu duce dutatu.

Uducupa dutatu turimo imiti gakondo tukaba turi mu ibara ry'umweru, iruhande rwaho hateretse agacupa kanini ka parasasitike aho hasi hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura amavuta akoze mu kimera cy'igikakarubamba.